Abantu bari mu cyumba, aho babona ko bari ku mugambi umwe ndetse kuri gahunda imwe, barimo baraganira ibiganiro bijyiye bitandukanye, hirya yabo hateretse ameza ariho ibikoresho bitandukanye, amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi byinshi.

Icyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye aho hari za mudasobwa, hari intebe, hari n'ibindi byinshi naho harimo abantu, umuganga wambaye imyenda y'ubururu y'akazi ndetse n'undi wicaye imbere ya za mudasobwa.

Umwana ari kuri robine ateze amaboko kuri robine, amazi arimo kuza aho arimo kunywesha intoki amazi, hasi hateretse indobo hirya no hino kuri iyo robine, hagiye hakikijwe n'ibimera byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibiti ndetse ibyatsi n'ibindi byinshi.

Urwunge rw'abantu b'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, abaganga ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bahagaze imbere y'inyubako, inyubako yanditse gira ubuzima, aho barimo bafata ifoto bashobora kwifashisha mu gihe batanga amakuru agiye atandukanye, aho baba babasha kugaragaza iyo nyubako aho yaba iherereye.

Amazi arimo gutemba ahantu mu kibaya. Ubwo igihe imvura iba yaguye, amazi agatemba agana mu kibaya hepfo uturuka mu misozi. Umuntu arimo kuvoma ayo mazi, hirya gatoya hari umwana ndetse n'ibimera byinshi bigiye bitandukanye.

Abana babiri bari kuri robine y'amazi barimo baravoma, kuri robine hateretseho akajerekani ku k'umuhondo, abandi bana hirya bambaye uniforme barimo barava ku ishuri bari mu muhanda barimo baragenda, hirya harira amazu, hirya hari ibiti n'ibimera byinshi bigiye bitandukanye bibakikije.

Agatsiko k'abantu aho bicaye barebana, imbere yabo hari ameza manini abifashishije bashyizeho ibikoresho byabo harimo ikaramu ndetse n'amakayi, aho ureba ko bahuje urugwiro bari mu nama cyangwa se mu mahugurwa atandukanye.

Muganga yambaye itaburiya y'umweru, ga z'umweru mu ntoki, ni mu gihe imbere ye hari ameza iriho impapuro, ikaramu, ndetse n'ibindi, aho arimo gusuzuma umwana amushyizeho igipimo cy'umutima kugira ngo abe yakumva umutima w'uwo mwana urimo guteramo, kugira ngo abe yabasha kumufasha.

Uruhuririkane rw'abantu aho baje kuvoma amazi kuri robine, aho bamwe bahagaze iruhande rwa rubine, andi bari ku cyuma barimo barapompa amazi kugira abe yabasha gusohoka muri rubine, aha barimo kuvomesha amajerekani menshi ari mu mabara agiye atandukanye, hirya yaho gatoya hari ibyatsi, ibiti ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Abana bari kuri robine barimo baravoma aho umwe bamwe bakikije robine abandi bari ku cyuma barimo gupompa kugira amazi aze, ni igikorwa WASAC yashyizeho byo gushyira robine hirya no hino mu Rwanda kugira ngo abaturage b'igihugu bazajye babonera amazi meza kandi bayabonere ku gihe hafi bitabagoye.

Umuntu urimo gukaraba akoresheje kandagira ukarabe ikozwe mu giti ndetse n'akajerekani, iruhande hari indabyo, hari imiyenzi, hari inzu, uwo muntu arunamye, kandagira ukarabe gukaraba ni ingenzi cyane, bidufasha mu gihe umuntu ashobora gukaraba avuye mu bwiherero, agiye kurya n'ahandi hose hagiye hatandukanye, gukaraba ni umuco mwiza w'isuku.

Umuntu wikoreye injerekani y'amazi iri mu ibara ry'umuhondo, hirya no hino hari abandi bantu bari mu bikorwa bigiye bitandukanye, aho hari inyubako, hari imirima y'ibihingwa bigiye bitandukanye ibigori ndetse n'ibindi byinshi, hari ibiti bigiye bibakikije ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Abantu bari kuri robine y'amazi barimo bavoma, abandi bacikije robine, umwana arimo aratega amajerekani kuri robine, amajerekani ari mu mabara y'umuhondo, undi muntu ari ku cyuma gikompa amazi kugirango amazi abashe kuza, abandi bakikije rubine barimo barareba, hirya yabo hari ibimera bigiye bibakikije harimo ibihingwa, byivanzemo intoki.

Umwana ari ku kigega cy'amazi arimo arafungura amazi arimo kuvoma akoresheje agakombe kari mu ibara ry'umweru aho hirya hakikijwe n'igipangu n'amazi y'ikigega, amazi y'ikigega ashobora kuba ari amazi yagiyemo kubera imvura cyangwa se kubera amasoko ari munsi y'icyo kigega.

Umuntu yicaye hejuru y'ikijerekani, ikijerekani cy'umuhondo, umuntu w'igitsina gabo, yasetse, aranezerewe, yicaye iruhande rwa robine z'amazi, hirya ye gatoya hari ibimera, hari ibyatsi bigiye bimukikije, hirya y'aho kure hari amazu.

Abantu bahagaze imbere y'umuryango w'inyubako isizwe amarangi y'ubururu ndetse n'andi marangi agiye atandukanye, aho abo bantu higanjemo igitsina gabo ndetse harimo n'igitsina gore, aho bahagaze barimo bafata ifoto, igihe umuntu ashobora gufata ifoto ashaka kuba yayishyira ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye.

Abantu b'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bambaye impuzankano bahagaze imbere y'ikigega, ikigega giteretse ku gatanda bafite ibikombe mu ntoki barimo baranywa, barimo baravoma amazi hirya yabo hari amazu, hari n'ibindi bimera byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bigega.

Icyumba kirimo abantu batatu cyumba abaganga bakiramo abarwayi harimo umuganga, muganga wambaye itaburiya y'umweru mbaye ga z'umweru mu ijosi afite cya cyuma bifashisha bapima umuntu, umutima we uko uhagaze, arimo gufasha umwana urwaye arimo kumupfuka wakomeretse.

Abantu, abana ndetse n'abantu bakuru bahagaze imbere ya robine, robine irimo kuzana amazi, bamwe barahagaze abandi barimo baracunga icyuma, kugira ngo amazi yabo yabasha kuza, barimo baravomera mu bikoresho bigiye bitandukanye harimo: amabase, harimo amajerekani, hirya hakikijwe n'amazu n'ibindi bimera byinshi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri batoya bambaye impuzankano bahagaze imbere y'ababyeyi babo ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye mu kuvuga barimo kutambutsa ubutumwa ku babyeyi babo, ababyeyi banezerewe bari mu nyubako yubakishijwe amahema bahagaze kuri tapi yi'icyatsi.

Abantu bicaye mu cyumba, aho bahuje urugwiro, aho barimo bajya inama zigiye zitandukanye. Imbere yabo hari imeza nini iteretseho ibikoresho byinshi, harimo mudasobwa, harimo za telefone, harimo raronje, harimo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ndetse hariho n'amacupa y'amazi barimo kunywa.

Abana bari kuri robine y'amazi, barimo baravoma bakoresha indobo, indobo zikozwe mu mabara y'umweru, hirya ya robine gatoya hari ibimera byinshi bigiye bibakikije, higanjemo ibiti; mu kuvoma amazi meza, gukoresha amazi meza ni isuku kandi ni ingenzi ku buzima bwacu.

Abantu bicaye hanze mu byatsi ku ntebe z'imbaho, harimo ubwoko bw'igitsina gabo, igore, harimo umuntu wambaye imyenda y'abadaso, abandi bambaye imyenda igiye itandukanye isanzwe, bicaye ku ntebe z'imbaho, hirya yaho gatoya hari inzu iri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari imodoka.

Abantu bicaye mu nyubako nziza kandi ngari, aho hirya no hino yiyo nyubako hari urugi, amadirishya, ndetse n'ibindi byinshi, ni mu gihe abantu bicaye bahuje umugambi, mu gihe bari mu nama cyangwa se mu mahugurwa runaka, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho byabo, mudasobwa, telefone, amakaye, ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu bari mu cyumba umwe aricaye, abandi barahagaze, muganga ahagaze iruhande rwe arimo kumufasha kumupima amushyizeho igipimo ku kuboko gipima umuvuduko w'amaraso, muganga yambaye itaburiya y'umweru n'undi muganga amuhagaze iruhande afite amvirope irimo impapuro.

Abantu bari mu cyumba bambaye udupfukamunwa, umwarimu arakingira mugenzi we, muganga arimo arakingira umurwayi urukingo rwo ku rutugu, aho umuntu yikingiza ibyorezo bigiye bitandukanye.

Ikoraniro ry'abantu aho bateraniye ahantu hamwe bicaye ku ntebe z'imbaho, mu mpande zigiye zitandukanye aho bafite impapuro mu ntoki, imbere yabo hari umuntu wicaye, imbere hari imeza arimo kubafasha muri serivisi buri muntu wese yaba akeneye.

Umwana ahagaze ku kidendezi cy'amazi, aho afite ibirahure bibiri mu ntoki biririmo amazi, n'abandi bana bari hirya bakikije icyo kidendezi. Ni mu gihe imvura iba yaguye amazi akirereka ahantu mu gikombe, bitewe n'ahantu ukuntu hateye, amazi akamanuka mu misozi, akaza akireka mu bikombe biri hasi.

Abantu benshi cyane bicaye mu nyubako, ababyeyi bateruye abana n'abandi bagiye batandukanye, aho bategerereje kugira ngo baze babakire, imbere yabo hari umubyeyi uteruye umwana, afashe ifishi mu ntoki, ifishi yifashishwa kwa muganga kugira ngo barebe ubuzima bw'umwana uko buhagaze no gukomeza kumukurikirana.

Umwana ahagaze imbere ya kandagira ukarabe, aho arimo akaraba intoki arimo gukoresha amazi ari muri kandagira ukarabe ndetse n'ibase imuteretse imbere iri mu ibara ry'umuhondo. Umwana wambaye impuzankano. Gukaraba ni ibintu by'ingenzi, ushobora gukaraba ugiye kurya, uvuye mu bwiherero ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye.

Ibiganza by'umuntu biteze kuri kandagira ukarabe amazi kugira ngo abe yabasha gukaraba, hirya gatoya hari isabune, ndetse uwo muntu arimo gukaraba mu maso, mu ntoki. Gukaraba ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi.

Abantu bari kuri robine y'amazi batezeho intoki barimo barakaraba, abantu b'igitsina gore bambaye udupfukamunwa tw'umweru, mbere y'iyo robine hari amajerekani abiri akozwe mu ibara ry'umuhondo, hirya yaho hari ibiti byinshi bikikije iyo robine.

Ikigo gishinzwe ubuhinzi mu Rwanda MINAGRI, mu gihe bari mu gikorwa cyo gutanga imbuto hirya no hino mu gihugu, aho bafata igihingwa runaka bakaba bakijyana mu gishanga se cyangwa n'ahandi, bagatera ingemwe z'icyo gihingwa, kugira ngo abaturage bazabone imbuto z'icyo gihingwa hirya no hino bitabagoye.

Akabogisi karimo imiti abaganga bifashisha kugira ngo bavure abantu, aho harimo inshinge zigize zitandukanye umuganga yifashisha kugira ngo abe yatera umuntu umuti w'indwara runaka cyangwa se abe yamukingira. Hari n'agacupa k'umuti k'ubwoko runaka, kari muri ako gakarito.

Uruhurirane rw'abantu benshi bari kuri robine aho barimo kuvoma amazi bakoresheje ibikoresho byinshi bitandukanye, indobo, amajerekani, ndetse n'ibindi byinshi. Ni gahunda ya leta yashyizweho mu gihugu hirya no hino aho ishyirara amarobine muri karitsiye zigiye zitandukanye kugira ngo abantu babone amazi meza kandi bayabonere igihe.

Icyumba kigari kirimo abantu benshi bicaye mu barakurikirana inama cyangwa se amahugurwa, umuntu w'igitsina gore ahagaze imbere yabo kuvuga ijambo, imbere hateretse ameza, ameza ateretseho uducupa tw'amazi, iteretseho amatelefoni, iteretseho udukayi ndetse n'udukapu.

Umuganga arimo gufasha umwana, arimo kumuhereza vitamini cyangwa se umuti mu kanwa, aho mama w'umwana amukikiye kugira ngo muganga abe yabasha kumufasha, hirya no hino hari ibikoresho umuganga arimo kwifashisha.

Abantu bicaye mu cyumba aho harimo n'abaganga ndetse n'abarwayi, abaganga barimo gufasha abarwayi babasuzuma indwara zitandukanye, hagati hateretse imeza irimo ibikoresho barimo kwifashisha kugira ngo babe babashe gufasha abo barwayi baje babagana.

Abantu bi gitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bicaye mu cyumba, bicaye ku ntebe z'imbaho begamiye ku gikuta, hejuru hari imvaho nyinshi zigenda zitandukanye, zitanga amakuru, umuntu yifashisha asoma kugira ngo bamenye amakuru agiye atandukanye, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu benshi aho bahagaze imbere y'inyubako nziza kandi ndende, aho barimo gufata ifoto ni mu gihe umuntu afata ifoto kugira ngo abe yayikoresha ibikorwa bitandukanye haba kuyishyira ku mbuga nkoranyambaga, haba kugira amakuru atanga, haba kuba uvuye mu nama cyangwa mu gikorwa runaka mukaba mwakwifotoza n'ibindi byinshi.

Abantu b'igitsina gore aho bahagaze imbere y'umuryango w'inzu yubakishijwe amatafari ahiye, aho banezerewe barimo bafata ifoto, umuntu ashobora gufata ifoto igihe ashaka kuyikoresha ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi henshi hagiye hatandukanye nko gutanga amakuru ndetse n'ibindi.

umuntu wicaye iruhande rwa robine arimo aravoma, arimo akoresha ikijerekani kiri mu ibara ry'umuhondo, hirya gatoya hari imyenda yanitse ku mugozi, hasi hari utwatsi twa jaride, hirya hari inyubako nyinshi zigiye zitandukanye aho iyo robine yegerewe n'igiti cy'mbuto yitwa ipapayi.

Umwana arimo arakaraba akoresheje kandagirukarabe, aho kandagirukarabe ikozwe mu bwoko bw'icyuma, aho harimo indobo irimo amazi n'ibase amazi arimo kumenekeramo, hirya gatoya kandagirukarabe ikikishijwe n'inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari ahiye, tugire umuco wo gukaraba intoki, intoki zacu zihore zisukuye.

Ibiganza by'umuntu aho arimo gukaraba amazi aturuka mu gihombo cy'amazi, aho ni amazi meza cyane. Umuntu arimo kuyifashisha akaraba mu ntoki. Aho umuntu akaba mu ntoki buri kanya, mu gihe uvuye mu musarane, no mu gihe ugiye kurya, ndetse no mu gihe uri mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, ugomba gukaraba intoki.

Abana bari kuri robine barimo baravoma, aho umwe arimo apompa icyuma gisohora amazi muri rubine, undi ikijerekani bagiteze kuri rubine; rubine ikikijwe n'ibimera byinshi bigiye bitandukanye, ibyatsi, ibiti, imiyenzi, ndetse n'ibindi byinshi.

Umwana ari kuri robine arimo aravoma amazi akoresheje amajerekani, amajerekani ari mu ibara ry'umuhondo, hirya ya robine ikikijwe n'ibimera byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibyatsi, ibiti, insina z'intoki ziri hirya gatoya, arimo aravoma amazi meza. Amazi meza ni ingenzi kuri buri muntu wese.

Umwana afite igicupa mu ntoki, igicupa kirimo amazi, aho ahagaze ku nzu isize irangi ry'umukara ku gikuta ndetse n'amatafari ahiye, hirya gatoya hari iyindi nyubako yubakishijwe amatafari y'icyondo, hasi y'aho hari ibindi bikoresho bitandukanye, ni mu gihe umwana aba arimo gukina, agafata amazi akayashyira mu gicupa kugira ngo abe yayifashisha.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bari kuri robine y'amazi, barimo baravoma, bamwe barakaraba intoki, bateze indobo kuri robine, indobo zikozwe mu mabara y'umuhondo, imbere yaho gatoya hari akajerekani, hirya yabo hari ibimera byinshi bibakikije.

Abantu bahagaze imbere ya robine barimo baravoma aho barimo gukoresha amajerekani ari mu ibara ry'umuhondo; hirya ya robine hari ibimera byinshi bigiye bikikije iyo robine; higanjemo ibiti byinshi birebire, ibyatsi, ndetse n'ibindi bitandukanye. Aya mazi ni amazi meza; tugirire isuku amazi yacu.

Umuntu ari kuri robine, arimo kuvoma amazi, aho arimo gukoresha amajerekani y'ubururu, ni gahunda yashyizweho na Leta kugira ngo bashyire robine hirya no hino mu gihugu, abaturage bajye babona amazi meza kandi bayabonere ku gihe, bitabagoye, bitanabatwaye n'urugendo rurerure.

Abantu bari kuri robine barimo baravoma amazi bakoresheje indobo iri mu ibara ry'icyatsi ndetse indobe iteretse mu kibase kinini cyane aho abandi bari ku cyuma, abarimo barapompa kugira ngo amazi abe yabasha kuza, hirya no hino iyo robine ikikijwe n'ibiti ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu kibuga hanze n'abantu bakuru ndetse n'abana, bamwe baricaye abandi barahagaze, ababyeyi bacyikiye abana babo, muganga arimo kubafasha kubakingirira abana, hirya ya muganga hari agapaniye karimo imiti, hirya ye gato hari imeza iriho imiti arimo kwifashisha.

Umwana ari kuri robine, arimo arakaraba mu ntoki atezeho ibiganza, amazi arimo kumeneka muri robine ze, mu isura ye huzuyemo ibyokere byinshi ndetse byivanze n'inkonda aho bigaragara ko uyu mwana arimo kurira.

Abantu bahagaze aho harimo abambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abandi batayambaye aho barimo kwifotoza, ni mu gihe bashobora gufata ifoto kugira ngo babe bayikoresha ku mbuga nkoranyambaga, babe batanga amakuru ajya atandukanye no mu gihe bashobora kuba bakiriye umushyitsi ukomeye bakaba bakwifotozanya na we kugira ngo batange amakuru.

Abana babiri barimo bari mu gikorwa cyo gukora isuku z'intoki zabo, aho umwe afashe igikombe kirimo amazi, undi akaba ateze ikiganza arimo gukaraba intoki, kwimakaza umuco w'isuku, hirya no hino hari ibimera byinshi bigiye bibakikije.

Umwana ukiri mutoya ukikiwe na mama we bario baramutera urushinge rwo kumukingira, ni igikorwa ngarukakwezi igihe umwana akiri mutoya, ni ingenzi kuba umwana bamukingira ibyorezo byinshi bigiye bitandukanye, harimo iseru, imbasa ndetse n'ibindi byinshi.

Umwana ari mu kiyaga arimo aravoma, akandagijemo amaguru arimo kuvoma n'ijerekani y'umuhondo, hirya gatoya hari ibimera bikikije ikiyaga, ibyatsi, ibiti, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Abantu bari kuri robine barimo baravoma, hona hanari robine yubakiye mu kazu, akazu kawasake aho wasake yashyizeho iki gikorwa kugira ngo buri muturage wese azajye agerweho n'amazi kandi meza.

Abantu bari kuri robine barimo baravoma. Barimo gukoresha amazerekani ari mu ibara ry'umuhondo. Hirya no hino y'iyo robine hari ibimera bigiye bikikije iyo robine. Ibiti, ibyatsi ndetse n'ibindi bimera biri mu moko agiye atandukanye.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga, aho umuganga ari imbere y'umubyeyi uteruye mwana arimo kureba uyu mwana ikibazo yaba afite cy'uburwayi, imbere yabo gato hari imeza iteretseho ibikoresho ubu bagomba kwifashisha.

Abantu bahagaze, harimo abambaye amataburiya y'ubururu, hari n'abatayambaye, aho bahagaze bari mu gikorwa kimwe cyo gufata ifoto, bafite amatelefone yabo mu ntoki, ni mu gihe baba bahuriye hamwe kugira ngo babe bafata ifoto bayikoreshe hirya no hino mu bibafitiye inyungu, ndetse hirya yabo hari ibimera bibakikije byiganjemo ibiti byinshi.

Umwana ari ku gatapu k'amazi cyangwa se kuri robine, arimo aravoma amazi akoresheje igikombe, igikombe cy'icyuma abantu ba kera bakundaga gukoresha cyane, aho amazi arimo kumeneka, amazi hirya no hino akikijwe n'ibimera bigiye bitandukanye.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba harimo abaganga, bamwe bambaye amataburiya y'ubururu, abandi bambaye amataburiya y'umweru. Umurwayi wicaye ku ntebe barimo baramusuzuma, bamushyizeho igipimo, igipimo gipima umuvuduko w'amaraso, kwipimisha ni byiza. Guhora uzi ahantu ubuzima bwawe buhagaze ni byiza.

Abantu bari kuri robine umwe arimo aravoma abandi bahagaze hirya ya robine bafite akadobo mu ntoki, uwundi ni umu mama aricaye arimo aroza umwana, umwana yicaye mu ibase, iyo robine yubatswe mu ibara ry'ubururu, hirya y'iyo robine hari amazu menshi agiye atandukanye ndetse n'ibimera biciye bugufi.

Urwunge rw'abantu higanjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bamwe barahagaze abandi baricaye bambaye impuzankano imipira y'umweru, aho barimo gufata ifoto, ifoto barayifata kugira biyifashishe hirya no hino babe babasha gutanga amakuru ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Umwana ari kuri robine arimo kunywa amazi aho yatezeho ibiganza kugira ngo amazi abe yabasha kuyanywa, hirya hari abandi bantu bagiye batandukanye, hari intebe ya pulasitika, aho abantu bashobora kuyikoresha bicara, hari ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi byinshi.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri, aho barimo kunywa amazi, buri muntu wese afite igikombe imbere yabo hari uturobine turimo amazi ni mu gihe umuntu ashobora gufata amazi meza akayashyira mu ndobo akayatereka ku meza kugira ngo abantu babe babasha kunywa ayo mazi kandi amazi asukuye.

Agatanda abantu ba kera cyangwa se bo mu cyaro baba banikagaho ibyombo kugira ngo aho izuba ribe ryabirasira byumuke aho bafataga ibiti bine bakabishinga hirya no hino bibiri bibiri, hejuru bagatambika ibindi biti byinshi bakarangaho ibyombo, hirya ku gatanda gakikijwe n'imiyezi ndetse n'insina n'ibindi byinshi.

Abantu bahagaze kuri robine aho umuntu umwe w'igitsina gore arimo gupompa amazi kugira ngo abe yasohoka muri robine, mu gihe imbere hari umwana uteze amajerekani kuri robine kugira ngo amazi abe yabasha kujyamo, hirya no hino hari ibimera byinshi bikikije iyo robine, intoki, ibiti ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ikiyaga cy'amazi aho umuntu arimo kuvoma amazi akoresheje injerekani, uwundi hirya ku ruhande arimo koza ikinyabiziga cye cy'igare, akoresheje amazi yo mu kiyaga; ikiyaga gikikijwe n'ibimera byinshi bigiye bitandukanye; ibyatsi, ibiti, ndetse n'imisozi.

Umuntu arimo kuvoma kuri robine akoresha ijerekani y'umuhondo, umuntu aricaye yambaye ijipo y'umukara, yambaye agapira, ijerekani iteretse mu mamabasi abiri agerekenyije, ibase y'ubururu ndetse n'umweru, hirya hanitse imyenda y'amabara menshi agiye atandukanye, hari inzu, hari ibiti bimukikije.

Umwana ari ku dutapu tw'amazi aho arimo kuvoma amazi akoresheje igikombe, hirya no hino hari ibimera bigiye bitandukanye, ibyatsi, ibiti, ndetse n'ibindi byinshi.

Intoki z'umuntu ziteze kuri robine, amazi arimo kumeneka, arasa naho arimo gukaraba intoki. Igihe umuntu akaraba intoki kugira ngo abe yakwimakaza isuku, umuntu ashaka gukaraba intoki avuye mu bwiherero, agiye kurya, ndetse iyo agiye no gukora ibindi bigiye bitandukanye nko gutunganya amafunguro, n'ibindi byinshi.

Abantu bicaye mu cyumba kimwe, abaganga bambaye amataburiya y'umweru, aho bicaye imbere yabo, hari ameza. Bafite amakaramu mu ntoki, ibitabo bibarambuye imbere, aho bafite n'utundi dufishi. Barimo kugenda bareba kuri utwo dufishi buzuza ku makayi abateretse imbere. Hirya no hino hari ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Abana bari mu gikorwa cyo gukaraba intoki, umwana arunamye, imbere ye hateretse indobo ikozwe mu ibara ry'ubururu, afite isabune mu ntoki arimo arakaraba, undi mwana afashe ibinika arimo kumufasha kumusukira mu ntoki, aho umuntu akaraba mu ntoki kugira ngo abe yabasha kwimakaza isuku iyo mu ntoki, kuko intoki zikoreshwa henshi hagiye hatandukanye.

Abantu ubu bahagaze imbere y'inyubako yitwa matasi herifu senta, kigo nderabuzima cya mayange aho barimo bakoma mu mashyi banezerewe bambaye mataburiya yubururu bafite umuntu bahagaze imbere ndetse n'umushyitsi ni mugihe abantu bishimiye umushyitsi bakiriye bazi kubaha amahugurwa.

Abana bari kuri robine barimo baravoma aho batezeho ikijerekani kugira ngo amazi abe yajya mu njerekani, ijerekani iri mu ibara ry'umuhondo, hirya yabo gatoya hari ibimera bigiye bikikije iyi robine, ni mu gikorwa WASAC yashyizeho ifatanyije n'Ubuyobozi bw'Igihugu kuzana, gushyira amazi hirya no hino mu Gihugu kugira ngo abaturage bajye babona amazi meza kandi ku gihe.

Imodoka imbangukiragutabara aho iparitse ahongaho inyuma yayo gatoya hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, aho hari amahema ashinzwe ndetse hari n'amazu ari hirya no hino n'ibimera n'abantu ureba ko ari urucucikane rwinshi bw'abantu bari mu gikorwa kimwe.

Umuganga ari kumwe n'abarwayi, abantu babiri, umubyeyi akikiye umwana we; umuganga arimo gufasha umwana kumuhereza imiti, umubyeyi yaramukikiye arimo barahereza umwana imiti imuvura indwara yaba arwaye.

Uruhurirane rw'abantu, aho hari ababyeyi bicaye bakikiye abana babo. Hari abandi bantu barimo kubafasha, aho umuntu yunamye arimo ahereza umwana amata, akoresheje inkongoro. Ubona ko ari igikorwa bose bahuriyeho.

Abaganga aho bicaye imbere yabo hateretse ameza ariho ibikoresho bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha mu kazi kabo bicaye mu ihema, mu gihe ikigo nderabuzima cyangwa ivuriro runaka bashyiraho igikorwa cyo kuba bajya, mu baturage hirya no hino, kuba babasuzuma indwara zigiye zitandukanye.

Abantu bari mu cyumba baricaye, aho bicaye ku ntebe z'imbaho bafite ibikoresho bitandukanye mu ntoki amakayi, amakaramu, telefone, bari mu nyubako irimo ibyapa byinshi ndetse n'impapuro zimanitse ku gikuta, aho ubonako bari mu gikorwa kimwe cyo gufata amahugurwa cyangwa se ayandi masomo atandukanye.

Abantu bari kuri robine, aho bateruye indobo irima mazi, hirya no hino hari ibimera bigiye bibakikije ibiti ndetse n'ibindi byinshi n'ibyatsi, hirya hari inzu yubakishijwe ibyatsi, ni mu gihe umuntu ashobora kujya kuvoma afite igikoresho atabasha kwikorera, undi mugenzi we akaba yafasha yamufasha kugiterura kugira ngo babashe ku kigeza ku mutwe.

Abantu bari kuri robine barimo baravoma, aho umwana umwe arimo apompa amazi, uwundi yatezeho utujerekani, hirya no hino hari abandi bantu bakikije robine, hirya yaho gato hari ibyatsi, ibiti ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye bikikije iyo robine.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano ari kuri robine ahateze ibiganza kuri robine arimo arakaraba intoki, aho hirya ya robine hari indobo iri mu ibara ry'icyatsi na kandagira ukarabe, hirya hari amazu menshi atandukanye arimo ikigo cy'amashuri.

Abantu b'igitsina gore, bari kuri robine, barimo baravoma, batezeho indobo, indobo iri mu kintu cy'ikarayi, bikoze mu bwoko bw'icyatsi, yambaye ibitenge, yambaye imipira, abandi babiri bari kuri robine, barimo barapompa ngo amazi aze, hirya hari ibiti bigiye bitandukanye, robine, hakorotiriwe n'igipangu.

Umwana ari kuri robine y'amazi, aho arimo kunywa amazi akoresheje intoki, amazi arimo kuza, hirya y'iyo robine hakikijwe n'ibimera byinshi bigiye bitandukanye, higanjemo ibiti ndetse n'ibyatsi, igihe hari n'nyubako ku ruhande irimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abana bari kuri robine y'amazi batezeho ibiganza barimo gukaraba ubona ko bari mu gikorwa bahurije hamwe cyo gukaraba intoki, hirya no hino y'iyo robine hakishijwe n'ibimera byinshi ibiti y'ibyatsi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, aho bari kwimakaza umuco wo gukaraba intoki no kugira isuku ku ntoki zabo.

Abantu bicaye mu cyumba ni abaganga barimo gukingira abarwayi ibyorezo bigiye bitandukanye cyangwa se barimo kubatera inshinge, hirya no hino hari imeza ziteretseho ibikoresho barimo kwifashisha ndetse n'abaganga bambaye imyenda y'akazi igiye itandukanye.

Udutsiko tw'abantu bagiye batandukanye, aho bicaye buri umwe afite igitabo mu ntoki, cyangwa se ikayi ndetse n'ikaramu, aho ubona ko bahuje urugwiro, barimo kujya inama, barimo gusoma amakuru agiye atandukanye.

Abana barahagaze bahuje ibiganza, munsi y'ibiganza byabo hari ibase, abana basetse banezerewe iruhande rwabo hari umuntu mukuru ufashe igikombe urimo kubasukira amazi ku ntoki no gukaraba, hirya yaho hari ibimera bigiye bitandukanye.

Abana bari kuri robine barimo baravoma kuri robine, hateretse ikijerekani hirya kiri mu ibara ry'umuhondo, umwana umwe afashe inkoni, uwundi ari ku cyuma gipompa amazi, arimo arapompa, amazi arimo kumeneka, hirya yabo hari ibimera byinshi bigiye bitandukanye bibakikije.

Abantu bicaye bahurije hamwe aho bakoze udutsiko, abo barimo bajya inama zigiye zitandukanye, aho ubona yuko bahuje urugwiro, imbere yabo hari ameza nini cyane iteretseho ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibirahuri by'amazi, ibirahure birimo ji ndetse amakaye n'amakaramu n'ibindi byinshi.

Umuntu arimo arakaraba kuri robine, robine isa ubururu, umuntu yambaye ikabutura n'ishati y'amaboko magufi y'icyatsi, iruhande rwe hari ikidobo kinini, hari n'indi ndobo ye ntoya ku ruhande, izo ndobo ni ubururu, hirya kure cyane hari ibiti, biragaragara ko arimo akaraba, gukaraba ni umuco mwiza, umuco w'isuku.

Abana b'abanyeshuri bambaye yunifomu barimo barakaraba, ku turobine tw'amazi buri umwe ari ku karobine ke, mu kiganza bafite ifuro, bigaragara ko bakoresheje isabune, barimo barakaraba bimakaza umuco w'isuku, ku ruhande hari umuntu, gukaraba ni ingenzi ni umuco mwiza w'isuku, ushobora gukaraba uvuye mu bwiherero, ugiye kurya, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye.

Abana bari kuri robine barimo baravoma aho umwe ivi ririmo gupompa icyuma kugira ngo amazi abe yabasha gusohoka, undi ateze amajerekani kuri robine, ni robine zikunze gukoreshwa hirya no hino mu gihugu, mu ntara mu cyaro aho abaturage bavomesha bakoreshe izo robine kugira ngo babe babasha kubona amazi meza kandi ni gahunda yashyizweho na leta.

Abantu bari kuri robine barimo barapompa, aho hari gahunda ya Leta, WASAC yashyize robine nyinshi zigiye zitandukanye mu gihugu kugira ngo abantu babe bagerwaho n'amazi mu buryo buboroheye kandi amazi meza.

Umwana arimo arakora igikorwa cyo gukaraba mu ntoki, aho barimo kumusukirara amazi mu ntoki afite n'isobune arimo gukaraba. Ni mu gihe umuntu ashobora gukaraba intoki avuye mu bwiherero, agiye kurya ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Umwana arunamye ari kuri robine aho arimo koza indobo ndetse hirya n'izindi ndobo zigiye zitandukanye, iruhande rwe hari robine, ni igikorwa WASSAC yashyizeho mu rwanda hose kugira ngo abaturage b'Igihugu bazajye bagerwaho n'amazi meza kandi bitabagoye.

Umwana ahagaze ku munzani upima ibiro, ni mu gihe bashobora gushyira umwana cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ku munzani kugira ngo bamupime ibiro babe bareba ubuzima bwe uko buhagaze niba ibiro bye birimo kwiyongera cyangwa se bigabanuka kugira ngo babe babasha kumukurikirana mu mu gihe uwo mwana arimo gusubira inyuma ku biro.

Umuntu w'igitsina gore yiteza igitambaro, yambaye amaherena, yisize makapu, aho yakunje isura akaba yazanye iminkanyari mu maso, kenshi na kenshi iyo umuntu akunze kugaragara mu isura imeze gutya, igihe yaba yarakaye cyangwa se hari umuntu waba wamukoreye ikintu kibi atanezerewe.

Uruhurirane rw'abantu, aho abantu bicaye mu nyubako nini cyane, barimo gufata amahugurwa cyangwa se bafite byinshi bakurikiranye, inyubako irimo amatara ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye mu cyumba cya RBC, ikigo gikuru gishinzwe ubuzima mu Rwanda, aho bafite indangururamajwi mu ntoki zabo, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, ibikoresho barimo kwifashisha ndetse n'ibindi, ni mu gihe baba bari mu kiganiro kigiye gitandukanye, barimo kugeza aho abantu kuri radio cyangwa se kuri televiziyo.

Umwana w'umunyeshuri, yambaye impuzankano z'ishuri, aho yicaye ku ntebe y'urubaho, imbere ye hari ameza, hirya gatoya hari abandi bantu ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, afite ikintu mu kanwa arimo kurya.

Umuntu arunamye imbere ye hari ururabyo, inyuma ye hari amagambo menshi y'amazina y'abantu ari mu gikorwa cyo kwibuka, igikorwa ngarukamwaka cy'igihugu gikorwa Mata buri mwaka, twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe abatutsi, muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Abantu bicaye muri sale ni mu nzu nini kandi ngari, aho bicaye bafite ibikoresho harimo ikaramu, harimo ikayi, imbere yabo hari ameza bashyizeho ibikoresho byabo, ni mu gihe bari mu gikorwa cy'inama cyangwa se amahugurwa, imbere hari umuntu urimo kubahugura cyangwa se urimo kubagira inama zigiye zitandukanye.

Abantu benshi cyane bicaye mu cyumba aho barimo gukurikirana amahugurwa cyangwa se bari mu nama, hejuru muri iyo nyubako hari amatara manini arimo gutanga urumuri, imbere hari umuntu uhahagaze arimo kubahereza amahugurwa ndetse hari n'ibyuma barimo kwifashisha kugirango babe babasha gukurikirana ayo mahugurwa neza bakoresheje ikoranabuhanga.

Umuntu ari mu muhanda, yambaye incwabari, imyenda yamucikiyeho, afite umuneke mu ntoki arimo kurya, urusatsi rwinshi rwamwereyeho, hirya y'umuhanda hari ibimera byinshi bikikije umuhanda byiganjemo ibiti, mu muhanda harimo ibinyabiziga, moto ndetse n'imodoka.

Umuntu w'igitsina gore wicaye mu nzu, yicaye ku ntebe y'urubaho, akenyeye igitenge, yambaye umupira, inzu yarasenyutse inyuma, inyuma hari idirishya rikinguye, imbere ye harambuye umukeka, yambaye inkweto zifunguye z'udushumi zo dukunze kwita siripa.

Umuntu w'igitsina gore wikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba, aho inyuma ye gatoya hari inzu yubakishije amabati y'amategura, ubwo kera ari amabati bakoreshaga mu buryo bwo kubaka, inyuma ye gato hari ibishyimbo biri ku mishingiriro, aho nawe afashe isuka mu ntoki.

Umuntu uhagaze yiyegamije ku gikuta kirekire cyane, araramye arareba hejuru, urumuri rw'izuba rurimo kumurasira mu maso ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, arimo kwiyumvira, arimo kureba mu kirere, arimo kwibaza ibibazo byinshi.

Abantu b'ingeri zose bahagaze imbere y'inyubako aho barimo gufata ifoto. Ni mu gihe abantu bashobora kuba basuye inyubako runaka bakaba bafata ifoto, cyangwa se bashobora kuba bagize umushyitsi runaka bakaba bafata ifoto bari kumwe na we kugira ngo babe batanga amakuru cyangwa se ababe bashyira n'iyo foto ku mbuga nkoranyambaga.

Abantu b'igitsina gabo kivanzemo n'igitsina gore, bamwe baricaye abandi barahagaze, bishimye barasetse; imbere yabo hateretse ameza, ameza ateretse agacupa karimo amazi, kari mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari urugi, hejuru gatoya hari ifoto, ifoto iri muri kadire, idirishya, cyari icyapa cya unicef.

Abantu benshi bafite icyapa cya polisi y'u Rwanda cyanditseho kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye. Ni igikorwa gishyirwaho na polisi y'u Rwanda kugira ngo barwanye ihohoterwa, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, rishingiye ku bwoko ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, aho barimo kugenda babyamamaza hirya no hino mu Gihugu

Abantu bicaye, aho bafashe indangururamajwi mu gihe umuntu aba arimo gutanga ikiganiro runaka cyangwa se amahugurwa runaka akaba yakwifashisha indangururamajwi kugira ngo abantu bari kumwe muri aya mahugurwa cyangwa muri iyo nama babashe kuba bamwumva neza uko amajwi asohoka.

Abantu, b'abadamu, bahagaze mu murima, bafite ibikoresho, bamwe bafite inkoni, abandi undi afite umuhini w'igitiyo, aho bahagaze mu murima w'ibimera bijye bitandukanye, hari insina, hari ibishyimbo, ndetse n'ibindi byinshi. Aho umwe ahagaze afite umufuka ndetse aha hagatiye n'umwana, hirya no hino bakikijwe n'imisozi ndetse n'ibiti.

Umuntu w'igitsina gore ahagaze arimo kwifotoza aho yasetse yifashe neza, inyuma ye hari inyubako ndetse inyubako ifunguye umuntu yanezerewe yasetse mu gihe umuntu ashobora gufata ifoto kugirango abe yayikoresha ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'kindi gikorwa icyo aricyo cyose.

Abantu bari mu cyumba, barimo gufata amahugurwa cyangwa se bari mu nama itandukanye, aho imbere yabo hateretse ameza ariho amacupa y'amazi, telefone ndetse n'ibindi bikoresho barimo kugenda bifashisha.

Urwunge rw'abantu banezerewe, harimo igitsina gore, igitsina gabo, ndetse hivanzemo n'abana basetse banezerewe bafite idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, iri darapo ryiganjemo ririmo amabara atatu ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi n'izuba riri mu ibara ry'umuhondo.

Umudamu wicaye hasi ku mukeka acikiye umwana mutoya, hirya hari undi mwana uhicaye, imbere yabo hari intara cyangwa se inkoko barimo kugosorera ibigori iteretseho ingemeri, inyuma hari inzu igaragara ko ari umuryango waba utifashije, ifoto ifatwa kugira ngo babe babasha kubakurikirana.

Abana benshi bagiye batandukanye ndetse hivanzemo n'abantu bakuru aho bababaye mu maso yabo bagaragara ko bafite agahinda gatandukanye, ni umuryango utifashije.

Isura y'umuntu utishimye, amazuru, iminwa, amaso, arimo kurira amaso, ni mu gihe umuntu ashobora kurira amaso arwaye amaso cyangwa se afite ikibazo gitandukanye kibabaje umutima we akaba yabasha gusuka amarira y'icyo kibazo yaba afite.

Umuntu w'igitsina gore, yiyunamiriye afashe mu mutwe, arasutse, asutse inweri z'umukara, yambaye umupira w'umweru, igihe umuntu akunze kugaragara muri iyi sura, igihe afite ikibazo cyangwase afite ibintu arimo gutekereza, akiyunamira kugira ngo abe yabasha gutekereza neza, cyangwase mu gihe arwaye.

Abantu bari mu cyumba benshi kandi b'ingeri zose ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, ni mu gihe hashobora kuba igikorwa runaka mu kagari cyangwa se mu mudugudu, abantu bakaba bahurira hamwe mu nyubako, baje mu nama cyangwa se baje mu mahugurwa agiye atandukanye, ni mu gihe ubona yuko bose bari mu gikorwa kimwe, barimo gutanga inama cyangwa se amahugurwa, abandi babakurikiranye.

Umuntu wicaye, aho ahazirikiranyije amaguru, yicaye ahantu ubona yuko ari ahantu habi kandi hadasamaje, mu gihe umuntu aba yakoze ikosa bakamufungira mu cyumba kimwe bakaba bamushyiraho amapingu ku maguru kugira ngo uwo muntu abe yagororwa bitewe n'icyaha afite.

Abantu bicaye, umudamu uhetse umwana ndetse n'undi mwana ubahagaze iruhande, aho imbere y'uwo mumama hari isafuriya iteretse ku mbabura arimo arateka igikoma, aricaye arimo guseka ndetse hirya no hino hari ibindi bikoresho arimo gukoresha.

Umurwayi aryamye ku gatanda igihe abaganga barimo kumufasha kureba ikibazo yaba afite, mu menyo cyangwa se mu kanwa aho muganga yambaye mayikorosikope mu maso zimufasha kureba mu kanwa, aho yambaye agapfukamunwa k'ubururu, afite n'icyuma mu ntoki cyiba cyamufasha kureba uburwayi umurwayi afite bwo mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo amamashini amanitse hejuru abaganga bifashisha kugira ngo babe babasha gupima indwara z'abarwayi zituruka mu maraso cyangwa se mu misarani ndetse munsi aho hari agatiruwari babasha kubikamo ibikoresho byabo, hari intebe, hamanitse n'amatara manini cyane.

Umuntu arimo gufashwa kuba yakurwa iryinyo, mu gihe muganga afite ibikoresho agiye kwifashisha kugira ngo abe yakura umurwayi waje amugana iryinyo. Ni mu gihe umuntu aba afite iryinyo rimurya cyangwa se rimubabaza akaba yajya kwa muganga kuryikuza kugira ngo abe yakire.

Abantu bari mu cyumba harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, abari mu cyumba bari mu gikorwa cyo kwimakaza isuku mu kanwa, imbere yabo hateretse ameza, ameza ariho cologate ndetse n'uburoso bakoresha mu menyo kugira ngo umuntu abe yakwimakaza isuku yo mu kanwa.

Abantu b'abaganga bari mu cyumba bari kumwe n'umwana barimo baramusuzuma mu kanwa, bareba uburwayi bw'amenyo yaba afite kugira ngo babe babasha kumufasha, aho imbere yabo hateretse imeza iriho ibipapuro byinshi ndetse n'ikaramu.

Umwana aricaye afite uburoso bwo koza amenyo, aho ari gahunda umuntu akora buri gihe kugira ngo abe yakwimakaze isuku yo mu kanwa, bibe byamurinda indwara zigiye zitandukanye zo mu kanwa, nk'ifumbi, guhumura nabi mu kanwa ndetse n'ibindi byiza.

Umuntu w'igitsina gore aho yambaye isengeri y'umweru yiteza igitambaro cy'umweru aho arimo gukora isuku mu menyo afite uburoso bw'ubururu, isuku y'amenyo ni ingenzi bituma mu kanwa kacu hahumura neza kandi bikanaturinda kugira indwara nyinshi zo mu kanwa zigiye zitandukanye.

Abantu babiri aho umwe ari muganga yambaye amaga ndetse yambaye itaburiye y'umweru. Aho afite ibyuma mu ntoki, arimo gufasha umurwayi kumurebera mu kanwa iryinyo ryaba rifite ikibazo kugira ngo abe yarimukuriramo cyangwase abe yamuhereza ubundi bufasha.

Umwana ari kwa muganga, aryamye ku gitanda, ni mu gihe muganga afiteho ibikoresho arimo kwifashisha, aho arimo kuba yafasha gukurikirana umwana, kumukura iryinyo, cyangwa se kumukuramo iryinyo rirwaye, aho kugira ngo uwo mwana, abe yabasha gukira.

Inyubako ngari cyane, irimo icyumba, icyumba kiteretsemo intebe, intebe eshatu, niko hejuru hari ibitara binini bitanga urumuri rwinshi, amadirishya manini cyane, inzugi. Harimo uduturuwari abantu bifashisha kugira ngo babe babasha kubikamo ibikoresho byabo.

Umuntu aryamyemo barimo kumuvura ni mu gihe aba afite ikibazo cy'amenyo cyangwa se ikibazo cyo mu kanwa aho muganga aza kumufasha, muganga afite ibikoresho mu ntoki mu gihe agiye kubikoresha kugira ngo abe yabasha gufasha uyu murwayi ikibazo yaba afite cyo mu kanwa.

Umwana araryamye mu gihe afite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, aho muganga afite ibikoresho mu ntoki agiye kuba yakoresha kugira ngo abe yamufasha kumukura iryinyo cyangwa se kumukemurira ikibazo yaba afite cyo mu kanwa.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bafite uburoso mu kanwa ndetse n'udukombe barimo bakoresha mu gihe barimo koza amenyo, barimo kwimakaza igikorwa cy'isuku mu menyo, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye.

Umuganga wicaye mu cyumba cyo kwa muganga, aho yambaye itaburiya y'umweru aho yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'icyatsi, hirya ye gatoya hari ibyuma bigiye bitandukanye bakoresha kwa muganga, hirya hari amadirishya hari amarido, ndetse hamanitse n'ibyuma byinshi kwa muganga bakunze kwifashisha.

Abantu babiri bari mu cyumba, aho umwe arimo gufasha uwundi, ni muganga, arimo arafasha umurwayi, muganga yambaye itaburiya y'umweru, ga z'umweru ndetse na agapfukamunwa, imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye, arimo arafasha umurwayi kumurebera mu kanwa, aho afite ikibazo cy'iryinyo cyangwa se ikindi kibazo gitandukanye cyo mu kanwa.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, aho bahuza urugwiro, bambaye impuzankano, bahuje urugwiro, inyuma yabo hari ikibaho, ubona ko bishimye banezerewe, bamanitse amaboko, mu maboko yabo harimo uburoso buboorosa mu menyo, ndetse na Colgate, aho barimo bagaragaza kwimakaza umuco w'isuku mu kanwa kacu.

Abantu bicaye mu cyumba ba Kigali aho bamwe bicaye abandi babahagaze inyuma barimo kubafasha bigaragara ko barimo kubafasha mu burwayi bw'amenyo, imbere hateretse imeza iriho korogate za whitedent ndetse abaganga barimo kubafasha babarebera mu kanwa uburwayi baba bafite bw'amenyo.

Abantu bari mu cyumba aho bicaye. Imbere y'abo hari ameza. Mu gihe umuntu umwe arimo kwereka undi ku mpapuro. Umusaza afite ibinini mu ntoki agiye kunywa imiti. Imbere hateretse ikirahure cy'amazi ndetse n'ubundi bwoko bw'ibinini bigiye butandukanye.

Abantu bari mu cyumba, umuganga yambaye itaburiya y'ubururu arimo gufasha umurwayi basetse banezerewe yamushyizeho obande iziritseho icyuma gifasha abaganga kugirango babe babasha kumenya uko umuvuduko w'umuntu uhagaze mu mubiri we.

Abantu bari mucyumba aho umuganga arimo afasha umurwayi amushyizeho igipimo gipima umuvuduko w'amaraso, ni umuco mwiza wo guhora umuntu yipimisha kugirango abe yamenya aho ubuzima bwe buhagaze.

Abantu bicaye mu cyumba kinini cyane, kirimo intebe zinshi zigiye zitandukanye. Ni inyubako ifite amadirishya manini aho, abafite impapuro imbere yabo hateretse imeza iriho izo mpapuro, aho barimo gusoma izo mpapuro, mu buryo bugiye butandukanye.

Abantu bari mu cyumba umwe arimo gusindagiza mugenzi we ni mu gihe umuntu aba arwaye cyangwa se afite ikindi kibazo atabasha guhaguruka cyangwa se kwibyutsa mugenzi we akaba yamufata mu mbavu cyangwa se akamufata ukuboko kugira ngo abe yabasha kumusindagiza ngo abyuke cyangwa se abe yabasha gutambuka. Mu cyumba aho ngaho harimo ibikoresho byinshi hari supanete, hari uburiri, hari garde robe ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Icyuma cyangwa se igikoresho kwa muganga bifashisha mu gihe hirya hari umurwayi uryamye ku gatanda, muganga arimo kumufasha kuba yamusuzuma cyangwa se yareba ikibazo umurwayi yaba afite.

Abantu bari mu cyumba, ni mu gihe muganga yicaranye n'umurwayi arimo kumwereka ibintu bigiye bitandukanye, imbereye hari ameza ateretseho igitabo, hari ikaramu, afite igikoresho gipima umutima mu ijosi, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu bari mu cyumba, ni muganga arimo gufasha umurwayi kuba yamuhereza imiti cyangwa se ibinini, kugira ngo umurwayi abe yabasha kubimira abe yagabanya ububabare cyangwa se indwara yaba arwaye, aho umurwayi afite ikirahure mu ntoki kirimo amazi, ateze ikindi kiganza muganga arimo kumushyiramo imiti, kugira ngo abe yabasha kumirisha ayo mazi.

Umuntu w'igitsina gore wicaye imbere y'iziko, aho atetse, arimo arakoresha amashyiga ya kinyarwanda, imbere ye hari inkwi ziharunze arimo kwifashisha ateka n'inkono iri ku ziko, hirya gatoya hakikijwe n'ibimera byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibiti, ibyatsi, ndetse n'ibindi bimera biciye bugufi.

Abantu bari mu cyumba aho umwe yicaye ku gitanda, igitanda kiza cyane gikozwe mu bwoko bw'ibiti, undi aho ahagaze ubona ko bishimye bahuza urugwiro, barimo kuganira aho uwicaye ku gitanda afite ikirahure cy'amazi arimo kunywa.

Abantu b'igitsina gore bari mu isoko ry'imboga ndetse n'imbuto, abantu bambaye ibitenge, bambaye amakanzu, biteze ibitambaro, imbere yabo hateretse amakarito arimo inyanya, inyuma hari amaronji, hari amapera, ni isoko rimanitsemo ibintu byinshi.

Icyumba bagiteraniyemo abantu benshi aho bakoze udutsiko, aho barimo babakira umuntu ushinzwe kubakira aho arimo kubabaza icyo babahereza, hirya hari n'abandi bantu bicaye barimo kuganira aba bafite icyayi mu ntoki ndetse n'ibiyiko n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye barimo kwifashisha.

Abantu bishimye banezerewe, bari mu murima w'ikawa, bateza ibitambaro, barimo barasoroma ikawa, ikawa umuntu ayifashisha ayinywa, ituma mu mubiri hamera neza, ituma hari indwara nyinshi zigenda zigabanuka mu mubiri w'umuntu.

Abantu b'igitsina gabo bari mu nzira barimo kugenda, aho bafatanye ku rutugu, hirya y'iyo nzira nyabagendwa, haga hino hari ibimera byinshi bigiye bikikije iyo nzira, byiganjemo ibiti, ibyatsi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, iyo nzira ikoreshejwe amatafari cyangwa se garaviye.

Abantu babiri bicaye mu cyumba, aho umuganga yambaye itaburiya y'umweru arimo afasha umurwayi waje amusanga amugana, imbere yabo hateretse imeza, hariho igipimo gipima umuvuduko w'amaraso, aho yamushyizeho bande imufasha kuba yamupima umuvuduko w'amaraso uko ahagaze.

Abantu bicaye mu cyumba, uruvange rwa abantu bavanzemo igitsina gabo, ab'igitsina gore, ndetse n'abana batoya, bamwe baricaye abandi barahagaze aho abantu bitunganya kugira ngo babe bafata ifoto. Ifoto babasha gushyira hirya no hino, baba ku binyamakuru, ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, cyangwa nabo bakazikoresha ubwabo.

Muganga ari kumwe n'umurwayi mu cyumba, ni mu gihe muganga aba amaze gusuzuma umurwayi, akaba yamenya uburwayi uwo murwayi afite, agahita amuhereza imiti. Muganga arimo guhereza umurwayi imiti, amuhereza n'amabwiriza y'ukuntu agomba gukurikiza anywa iyo miti, umurwayi afite ikirahure mu ntoki kirimo amazi agiye kunywesha uwo muti arimo guhabwa na muganga.

Abantu bicaye mu cyumba, aho umwe afite ibinini mu ntoki cyangwa se imiti arimo kwereka umurwayi umwicaye imbere uburyo agomba gukoreshamo iyo miti agiye kumuha, imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahuri cy'amazi, hariho ikayi ndetse n'impapuro n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye imbere y'ameza aho imbere yabo hateretse amatasi abiri, ubona ko bafite igitabo barimu barasoma banezerewe cyane, ni mu gihe umuntu afite ikimunejeje akishima.

Abantu b'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bari mu murima, aho ubona banezerewe, bamanitse amaboko, bamanitse ibikoresho byabo, amasuka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bahagaze mu mirima irimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo amasaka, ibigori ndetse n'ibindi bihingwa byinshi abantu bakunze guhinga.

Abantu bicaye munsi y'igiti aho bakoze uruziga, barimo barajya inama cyangwa barimo kumva ibiganiro cyangwa se amahugurwa atandukanye, hirya no hino hakikijwe ibiti, inyubako ndetse n'ibindi byinshi.

Icyumba abantu bakunze gutekeramo, aho hahagaze abantu babiri, barimo gutunganya ibyo guteka, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hari uduturuwari bifashisha babikamo ibikoresho, hirya hari ravabo hamanitse n'isaha.

Umuntu w'umusaza aho afite igitabo mu ntoki, arimo arasoma, yambaye marinete, ari yo yifashisha kugira ngo abe yabasha kureba neza, ndetse afite n'ikaramu mu ntoki.

Umuntu yicaye mu cyumba, arimo arandika, imbere ye hari ikayi, afashe ikaramu mu ntoki, yambaye amarinete, umuntu w'umusaza, ufite imvi mu mutwe, yambaye umupira w'umweru, imbere harimo ishati y'icyatsi, hirya kure ye hari amadirishya, ari mu nzu ngari.

Abantu bicaye mu cyumba barimo kureba muri telefone, aho ureba ko bahuje umugambi umwe, imbere yabo hateretse ameza, hirya no hino hari utubati n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu bari mu nyubako nini kandi ngari, ni muganga arimo gusindagiza umurwayi aho ari mu kagare ko abarwayi batabasha gutambuka bagenderamo, kugira ngo babe bava hamwe bajye ahandi n'inyubako nziza aho hari amadirishya, inzugi, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umuntu w'igitsina gore ahagaze mu cyumba icyumba batekeramo bakunze kwita kwuziniyeri afashe isahani mu ntoki, afashe ifurushiti mu ntoki, isahani iriho ubwoko bw'ibyo kurya byinshi bitandukanye hariho imboga ,hariho imbuto ndetse n'ibinyampeke aho hirya hari akabati abantu bifashisha mu gihe babikamo ibikoresho by'igikoni.

Abantu bab'abakecuru bicaye hamwe bateze ibitambaro, hirya no hino hari ibimera bikikije intoki ndetse n'ibindi bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe, ubona ko bari mu gikorwa kimwe bahurijeho umutima.

Abantu bahagaze mu nyubako nziza kandi ngari. Muganga arimo arasindagiza umurwayi akoresheje twa twuma abantu, abaganga bahereza abarwayi kugira ngo batwifashishe babashe gutambuka, aho hari inyubako ifite inzugi, amadirishya ndetse n'ibindi byinshi.

Umuntu w'igitsina gore, umukecuru uhagaze ahantu ku meza ndende, aho afite mikoro ku munwa, arimo kuvuga, hirya gato hari inyubako zigiye zitandukanye. Hari imodoka, hari ibiti byinshi, ndetse n'imisozi ikikije aho hantu ahagaze.

Umusaza wicaye imbere y'umuryango yicaranye n'abana batoya babiri, umusaza ukuze ufite imvi barimo gufata ifunguro, barimo kurya abandi bafashe n'ibikombe birimo igikoma cyangwa se ibindi binyobwa bigiye bitandukanye.

Abantu babiri bicaye umwe ni muganga aho yambaye agapfukamunwa, yambaye imyenda y'akazi ndetse aho afite n'igipimo gipima umutima mu ijosi, hirya no hino hari ibimera bibakikije harimo ibiti ibyatsi n'indabyo nyinshi, aho arimo asuzuma umuvuduko umurwayi.

Abantu bicaye ku ntebe aho bari mu bukwe, ni mu gihe bambaye imyenda ya kinyarwanda y'ubukwe, aho umuntu ashobora gukoresha ikirori mu gihe yashyingiranywe akaba yatumira abantu bakaza bakicara bagakurikirana ibirori bye, ndetse n'ababyeyi be n'abandi babyeyi b'impande zose.

Abantu bari mu nzu nini irimo amadirishya manini, aho abahagaze bafite umwe afite isahani mu ntoki iriho umugati ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye aho bari kumushyiriraho imbuto ndetse n'imboga kugira ngo abe yabasha kubifata imbuto ni ingenzi ndetse n'imboga mu mubiri w'umuntu.

Icyumba kwa muganga bakoresha igihe barimo gusindagiza umurwayi wagize ikibazo mu kuguru, kugira ngo babe bareba ko yabasha gutambuka, aho muganga arimo asindagiza umurwayi arimo gukoresha ibyuma byabugenewe, muri icyo cyumba harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye kwa muganga bakoresha.

Ikirangantego cya RBC ni ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima aho ari ikirangantego cyandikishijwe inyuguti eshatu iri mw'ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ababyeyi bicaye ku ntebe aho bakikiye abana babo, mu gihe ababyeyi bashobora guhurira kwa muganga bafite abana babo, baje kubakingiza, baje kubavuza ndetse n'ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose bashoborara kuba baje kwa muganga kugira ngo babe babafasha.

Abantu bicaye mu cyumba aho bari mu gikorwa cyo gusuzuma abarwayi n'abaganga, aho begeranye n'abarwayi barimo kubasuzuma indwara zitandukanye, izo baba barwaye yaba ibyorezo ndetse n'ibindi.

Ikirangantego cya Minisiteri y'ubuzima, ni Minisiteri ishinzwe gukurikirana ubuzima bw'abanyarwanda, aho muri icyo kirangantego harimo agaseke, isaka, ingabo, izuba ndetse n'imigozi ibiri ihuye yikubiranyije.

Abantu benshi b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo ,aho bicaye abandi bahagaze barimo gufata ifoto mu gihe banezerewe cyane. Bamwe bafite amakarita y'akazi mu ijosi, ni mu gihe baba bari mu gikorwa runaka bagisoza bakaba bafata ifoto y'urwibutso, cyangwa se bakaba bafata ifoto kugira ngo babe batanga amakuru ku icyo gikorwa cyabaye.

Abantu bari mu cyumba benshi bagiye batandukanye baje gusaba serivisi, aho muganga arimo gusuzuma umurwayi yamushyizeho igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso, imbere yabo hari ibindi bikoresho byinshi, hari indangururamajwi, ndetse n'ibikoresho muganga arimo kwifashisha.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yambaye agapfukamunwa k'ubururu aho arimo gukingira umurwayi cyangwa se kumutera urushinge ku rutugu, amukingira indwara zigiye zitandukanye cyangwa se amuvura indwara zitandukanye.

Ishusho y'umuntu bapfutse ijisho. Ni mu gihe umuntu ashobora kuba afite uburwayi bw'ijisho bakaba baribaga kugira ngo baritunganye barisubize mu murongo muzima, hanyuma bakaba bamupfuka kugira ngo umuntu abe yakira neza atagize ikindi kibazo.

Abantu bari mu cyumba aho harimo n'abaganga barimo gufasha abarwayi kuba babafata amaraso, ndetse n'ibindi bipimo bigiye bitandukanye, imbere yabo hateretse imeza iriho udupimo bagenda bifashisha kugira ngo bapime abarwayi, ndetse n'ubwoko bw'imiti itandukanye.

Udupimo abaganga bifashisha kugira ngo babashe gupima umuntu cyangwa se umurwayi, ubushita bw'inkende ni indwara yaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, iturutse mu gihugu cya Kongo, mu gihe abantu bashoboraga kuyandura, iyo wabaga wambaye umwenda w'undi muntu uyirwaye, umukozeho cyangwa se murimo no kuganira ushobora kuyandura.

Urwunge rw'amoko menshi y'amacupa ndetse n'amakarito arimo imiti myinshi itandukanye, aho biteretse muri tiruwali, aho biri muri farumasi yitwa Progress farumasi, iyo nyubako hamanitsemo amatara menshi agiye atandukanye, harimo amatiruwali maremare arimo ubwoko bw'imiti myinshi.

Icyumba abadamu babyariramo, harimo umuganga, harimo umurwayi, umubyeyi uryamye ku gatanda, umuganga arimo kuzinga supanete y'ubururu, harimo n'ibindi bitanda byinshi, harimo supanete zigiye zitandukanye, hateretse indobo ku gikuta gitandukanya icyumba n'ikindi n'utwuma twifashishwa kugira ngo serumu zigere ku barwayi.

Inyubako nziza kandi ngari, aho yubatswe mu buryo bwiza. Imbere hari umuhanda werekeza kuri iyo nyubako, hirya hari iyindi nyubako yubatswe mu bundi bwoko. Aho imbere y'iyo nyubako hari jalide irimo utwatsi twiza kandi ikikijwe n'ibimera byinshi.

N'ininyubako nziza kandi nini aho isizwe amabara atandukanye imbere hari ibyapa byinshi bigiye bitandukanye udutebe duteretse imbere y'umuryango hari amadirishya menshi ndetse kizimyamwotu imbere y'iyo nyubako hari ibimera bigiye bitandukanye hari jaride hari imihanda isobekeranyije hari ibiti ndetse n'ibindi byinshi.

Icyumba kinini abantu bicaramo igihe bari mu nama cyangwa se bari mu biganiro bitandukanye. Harimo intebe. Intebe zikozwe mu ibara ryirabura. Imbere y'izo ntebe hari ameza bifashisha yo kwandikiraho. Izo ntebe zirazinze. Imbere yaho gato hari akameza gatoya k'umweru. Hejuru hari ibitara bya bitara binini bimurika n'amadirishya menshi.

Icyumba abarwayi barwariramo harimo udutanda tw'abarwayi baryamaho hejuru bamanitse supanete, amarido y'ubururu, harimo umuganga, harimo utwuma abaganga ba bifashisha bamanikaho serumu kugira ngo bazihereze abarwayi, harimo igikuta gitandukanya icyumba kimwe ndetse n'ikindi cyumba, amadirishya...

Inyubako nziza kandi nini, aho ari inyubako irimo udukoresho twose tujyiye dutandukanye, harimo amadirishya meza, harimo inzugi zisohoka mu cyumba kimwe zigana mu kindi cyumba, hejuru hari amatara amurika kugira ngo abantu bayirimo babe babona urumuri.

Icyumba cyo kwa muganga bifashisha, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo za microscopi, harimo ekara cyangwa se televiziyo ibereka uburwayi burimo kugaragara muri icyo kizamini umurwayi yaba yatanze.

Abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba cyo kwa muganga, aho abaganga barimo bafasha abarwayi baje babagana, babafasha kubafata ibipimo, kugira ngo barebe ikibazo bafite mu mubiri, hirya gatoya ho hari ibyuma birimo gufasha abaganga, kugira ngo basuzume abarwayi, ndetse bafite n'ameza barimo kwandikiraho ibisubizo barimo kubona.

Inzu nini kandi ngari, ni inzu ya materinete, ni icyumba ababyeyi babyariramo kwa muganga, cyangwa se abaganga bakiriramo ababyeyi batwite, ababyeyi bagiye kubyara, ndetse n'ababyeyi bafite ikindi kibazo kigiye gitandukanye, kugira ngo abo babyeyi babe batandukanywa n'abandi barwayi.

Urujya n'uruza rw'abantu, aho abantu batunze umurongo bajya gusaba serivisi, imbere yabo hari abantu barimo kubafasha bicaye imbere y'ikimeza kinini cyane, aho hari n'undi muntu wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga imbere y'abo bantu hari intebe nyinshi z'umukara ndetse n'intebe y'urubaho.

Icyumba abaganga bafashirizamo umurwayi, mu gihe hari umurwayi uryamye ku gatanda muganga arimo kumufasha, abandi baganga na bo bahagaze hirya no hino barimo kugenda barebera ikibazo uwo murwayi yaba afite, hejuru hamanitse microscopy ndetse hirya hari n'ibyuma bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza kandi ndende, zubatswe mu buryo bwiza cyane, aho imbere y'izo nyubako hari jaride nziza, haro ibyatsi dukunze kwita pasiparuma ndetse n'utundi duti tugiye duciye bugufi, harimo imihanda isobekeranyije ijya mu nyubako imwe iva mu yindi.

Inyubako ndende kandi ngari aho iyo nyubako yubatse mu buryo bugerekeranyije cyangwa se uburyo bwa etaje, imbere yiyo nyubako hari ikibuga kinini cyane cya parikingi aho imodoka ziparika hari imodoka zihaparitse, hirya hari ibimera byinshi bigiye bitandukanye indabyo, imigano ndetse n'ibindi byinshi.

Icyumba cyo kwa muganga aha ho hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hari intebe, abaganga cyangwa se abarwayi bashobora kwicaraho, hari ibikoresho byinshi hari ibyuma byinshi bicometseranyije, hamanitse isaha, hamanitse projecteur ndetse n'ibindi bikoresho byinshi abaganga bashobora kwifashisha mu gukora akazi kabo.

Inyubako nziza kandi ndende aho harimo ama etageli atandukanye apanzemo ubwoko bw'imiti. Ni muri farumasi. Ni farumasi y'imiti uko umuntu ashobora gushinga farumasi agashyiramo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye kugira ngo abantu bazajye baza kugura iyo miti ibakiza indwara runaka baba bafite.

Inyubako ndende cane dukunze kwita etaje aho imbere y'iyo nyubako haparitse amamodoka agiye atandukanye, aho imbere yaho gatoya hari maneke zimanitseho imyenda myinshi igiye itandukanye, iyo nyubako haragaragara farumasi ya guduherifu gudurayifu fomasi aho bafasha abarwayi mu ndwara zigiye zitandukanye babahereza imiti banabapima.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe nyinshi zikozwe mu ibara ry'umukara, icyumba abantu bicaramo bategererejemo serivisi runaka kugira ngo bakirwe, hicayemo abantu imbere yaho gatoya hari inzugi zinjira mu bindi byumba, hejuru hari ibitara binini bitanga urumuri rwinshi.

Icyumba cy'abarwayi barwariramo bari mu bitaro nk'ibitanda by'abarwayi baryamaho, hejuru hamanitse supanete ziri mu mabara y'umweru, hirya hari igikuta gitandukanya icyumba n'ikindi cyumba, kuri icyo gikuta hariho amatara n'amarido y'ubururu, harimo uduturuwari abarwayi bifashisha bashyiramo ibikoresho byabo.

Inyubako nini kandi ngari, aho mu nyubako harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo utubati abantu bifashisha bashyiramo ibikoresho, hari urukarabiro ubwo twita lavabo, aho umuntu ashobora kuyikoresha arimo yoza ibyombo, arimo akaraba, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bikeneye amazi.

Inzu nziza cyane kandi ngari, aho hateguwe intebe bakunze kwicaraho mu gihe barimo gufata ifunguro, imbere y'izo ntebe hari ameza, izo ntebe ziri mu mabara agiye atandukanye, hejuru mu nzu hari amatara amatara manini atanga urumuri, hari n'izindi nzugi zicomekeranijemo zinjira mu zindi nyubako.

Inyubako nziza kandi ndende kandi nyinshi, aho ari inyubako zubatswe mu bwoko bujyiye butandukanye, zisizwe amarangi y'umweru ndetse n'andi marangi atandukanye, imbere y'izo nyubako hari abantu, hari imihanda myinshi isobekeranyijemo, imbere hari utwatsi twinshi twa jaride, aho ubona ko hari ikirere kimeze neza.

Inzu nziza cyane isizwe mu ibara ry'umweru, aho harimo imiryango myinshi igiye itandukanye ijya mu byumba byinshi, hejuru hari ibitara binini bimurika cyane aho bitanga urumuri, imbere hateretse akadobo karimo ikirabyo kiri mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga mu isuzumiro ry'amaso, aho hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ibyuma abaganga bifashisha kugira ngo babe bapima uburwayi, umurwayi waje abagana, ibishushanyo byinshi bitandukanye bishushanyijeho amaso, ndetse n'ibindi bikoresho byinshi biri muri icyo cyumba.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, imbere hicaye abarwayi baje kwivuza, cyubakishijwe igipangu cy'amatafari ahiye, gikikijwe n'ibiti byinshi imbere yaho hari abantu babiri bari ku igare, imbere yabo hariho akadobo bose bicaye ku igare igare ryegetse ku gipangu.

Ni icyumba cy'inyubako, icyumba kigari cyane kandi kinini aho harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bikoreshwa amashanyarazi harimo firigo ndetse n'ibindi byuma byinshi bijye bimanitse hejuru, aho firigo abantu bazifashisha kugirango babe bakonjesha ibinyobwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Umurwayi aryamye ku gitanda mu gihe ari kumwe na muganga urimo kumukurikirana, amureba uburwayi yaba afite cyangwa se arimo kumupima, aha kugira ngo arebe ikibazo yaba afite kugira ngo abe yabasha kumuvura.

Ni mu nzu hateguye neza aho hari intebe nziza zikozwe mu bwoko bw'ibiti ndetse n'imifariso, imbere hari utumeza tw'amabara agiye atandukanye, hirya no hino hari imitako yo mu bwoko bw'ibiti ndetse iteretse no mu dukombe, aho ubona ko ari inzu ikeye.

Abantu bicaye mu cyumba, ni muganga, arimo gufasha umurwayi, arimo kumupima akoresheje icyuma gipima umuvuduko w'amaraso, aho muganga yambaye itaburiya y'ubururu, ndetse hirya no hino hari ibindi bikoresho, hari amadirishya ndetse n'ibindi byinshi.

Imihanda igiye inyuranyijemo imihanda hirya no hino, aho imbere y'iyo mihanda hari inyubako nziza kandi ndende, aho abantu barimo kugana kuri iyo nyubako; iyo nyubako ikikijwe na jaride; jaride irimo utwatsi dukunze kwita pasikarama, indabyo ndetse n'ibiti by'amoko menshi agiye atandukanye.

Utwicungo tw'abana, abana bicaraho mu gihe barimo gukina, akicunga gakozwe mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'icyatsi, hagati harimo udutebe tune abana bicaraho, inyuma y'ako kicungo hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, gisizwe ibara ry'umweru, hari n'ibyuma, ibyatsi, jaride.

Inyubako zigiye zitandukanye aho iyo nyubako hagiye harimo imihanda yishamikiranye ijya hirya no hino hirya no hino y'iyo nyubako hari jaride itewemo ibiti, itewemo indabyo ndetse n'ibindi byinshi aho hakurya gatoya hari ibihingwa dukunze guhinga twita insina zeraho ibitocyi aho mu muhanda harimo abantu barimo kugenda.

Icyumba kwa muganga bakoreramo mu gihe muganga ahagaze mu cyumba, muganga wambaye itaburiya y'umweru, ga z'ubururu, afite icupa mu ntoki aho arimo areba mu cyuma cyangwa se muri mudasobwa kugira ngo abe yabasha gusobanukirwa buri kimwe, hirya no hino hari ibindi byuma ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye kwa muganga bakunze kwifashisha.

Inyubako nini ndetse nziza cyane, yubakishijwe n'ibara ry'umweru, inzugi ngari ndetse n'amadirishya meza cyane, hejuru hari ibitara binini bitanga urumuri, kashipawa, kizimyamwoto, ndetse na kamera hirya no hino zigiye zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga aho hateretse agatanda umurwayi aryamaho, hirya gatoya haduturuwari abaganga bifashisha babikamo ibikoresho cyangwa se imiti yo gufashisha abarwayi, hejuru hari igitanda kinini cyane kimurika inzu ikozwe mu irangi ry'umweru n'amadirishya ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi, hejuru y'ibyo bitanda hari ibitara, ibitara binini bimurika, iruhande rw'ibyo bitanda hari ibyuma, ibyuma abaganga bifashisha bareba mu nda y'umugore utwite ahantu umwana atwite umwana utwite uko ahagaze, hari na serumu ziteretse ku gitanda.

Muganga ahagaze mu cyumba cy'abarwayi, aho arimo afasha umurwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi baryamaho igihe muganga yambaye itaburiya y'ubururu, hirya no hino hari ibyuma bigiye bitandukanye bifashisha kugira ngo babe babasha kureba uburwayi bw'umurwayi yaba afite.

Icyuma cyo kwa muganga bifashisha kugira ngo bapime umurwayi umubiri we wose, ni icyuma abantu benshi dukunze kwita sikaneri, aho umurwayi ashobora guca mu cyuma umubiri we wose kugira ngo abaganga babe babasha kumenya urugingo rufite ikibazo urwo ari rwo.

Icyumba cyo kwa muganga bifashisha babitsemo amarinete y'abantu babana n'ubumuga bw'amaso, hamanitsemo marinete hejuru hari ibitabo ahandi hari akameza, uburwayi bw'amaso ni uburwayi bubi cyane uburwayi bubabaza umuntu amarinete umuntu ayifashisha kugira ngo abashe gusoma, abashe kureba neza bitewe n'uburwayi bw'amaso ufite.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ni icyumba cyo kwa muganga. Icyo cyumba harimo icyuma cya sikaneri, muganga akoresha kugira ngo amenye umurwayi uko ahagaze mu mubiri we; ni cyuma kireba umuntu mu mubiri we wose; umuntu aca muri sikaneri ashaka kugira ngo arebe uko umubiri we uhagaze. Hejuru hari ibindi byuma abaganga bifashisha babareba.

Icyumba cyo kwa muganga, kwa muganga bifashisha basuzuma umurwayi, igitanda cy'umurwayi aryamaho, ku ruhande hari imashini ifasha umuganga kuba yamenya umurwayi uko ahagaze.

Icyumba abarwayi barwariramo, harimo ibitanda by'abarwayi baryamaho bishashe mu ibara ry'icyatsi, ndetse hari amarido ari mw'ibara ry'ubururu, hirya no hino hari ibikoresho hacometse imashini abaganga bifashisha.

Icyumba cyo kwa muganga aho kwa muganga bakoresha iki cyumba mu gihe bashaka kureba umurwayi waje abagana uko yabahagaze mu mubiri we wose, aho bifashisha iki cyuma kinini cyane kitwa sikaneri kugira ngo babe babasha kumenya uko ubuzima bwe buhagaze, mu cyumba harimo amatara menshi harimo n'ibindi byuma byinshi abaganga bifashisha.

Icyumba, icyo cyumba kirimo intebe zikozwe mu bwoko bw'ibiti. Hariho ibara ry'umweru, ibara ry'umukara. Iruhande rw'izo ntebe hateretse imeza. Munsi y'iyo meza hari agatiruwari. Hejuru y'iyo meza hari mudasobwa. Hirya gatoya hari agatiruwari bifashisha babikamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hari amarido.

Igikoresho cyangwa se imashini abaganga bifashisha, basuzuma kugira ngo babe bareba umwanda waba uri mu mazi, amaraso y'umurwayi ukuntu ameze, igikoresho dukunze kwita microscope.

Umuntu wicaye ku ma esikariye maremare cyane aho inyuma ye hari igiti cy'inganzamarumbo kinini cyane, hirya kure cyane aho hari inyubako ndetse hari na jaride nyinshi zigiye zitandukanye, harimo utwatsi ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Inyubako ndende cyane, aho ikikijwe n'amabingaro menshi agiye atandukanye, n'izindi nyubako. Imbere y'iyo nyubako hari ikibuga kinini cyane, aho hari parikingi y'imodoka ziparika. Imbere hari jaride, ariko atari nini cyane. Imodoka iparitse imbere y'iyo nyubako, ndetse hari n'abantu bahahagaze.

Umuntu ariyicaye, yicaye mu cyumba, imbere hari umuganga, umuganga wambaye ikarita y'akazi mu ijosi, yambaye itabura y'umweru, yambaye ga z'umweru arimo gufasha umuntu wicaye, arimo kumutera urushinge amukingira indwara nyinshi, kwikingiza ni byiza.

Inzu nini kandi ngari cyane yubatswe ikoreshejwe amarangi y'umweru ndetse n'amabati y'ubururu, ni inzu y'ababyeyi aho ababyeyi bakoresha iyi nzu mu gihe barimo kubyara, mu gihe baje kwipimisha kugira ngo bamenye ubuzima bw'umwana batwite uko buhagaze, hakikijwe n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye bitanga umwuka mwiza kuri iyo nyubako ndetse n'abayigana.

Icyumba abarwayi barwariramo kwa muganga aho harimo ibitanda byinshi abarwayi baryamyeho bigiye bitandukanye, harimo aba dogiteri barimo bafasha abarwayi baryamye bari mu bitaro, aho hari abantu bashinzwe gukora amasuku, barimo bakora amasuku, bifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ikirangantego kigaragaza ivuriro rikomeye cane, mu mujyi wa Kigali ryitwa kwa Nyirinkwaya; aho abantu benshi bagana iri vuriro, bashaka kugira ngo bivuze cyane cyane abagore bari ku nda, bakunda kuhakoresha mu buryo bwo kugira ngo babe babyara.

Ni inzu, ni nini cyane kandi ngari y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe, aho giherereye mu ntara y'iburasirazuba mu Karere ka Nyagatare, Umurenge wa Matimba, aho gikikijwe n'izindi nyubako aho zifite jaride nziza cyane irimo uduti, ndetse n'ibyatsi.

Ni inyubako nyinshi nini kandi ngari, aho imbere y'izo nyubako hari jaride nziza cyane harimo utwatsi dukunze kwita pasikaramu, aho hari ikigega imbere y'inyubako hari igiti giteyeho n'ibindi biti byinshi bigiye bikikije izo nyubako.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibitanda byo kwa muganga abarwayi baryamaho, n'ibindi bikoresho byinshi, hejuru hamanitse inzitiramibu, hari amatara manini atanga urumuri ku bantu bari muri icyo cyumba, hari ibyuma ndetse n'ibikoresho abaganga bifashisha mu gihe abarimo baba barimo kuvura abarwayi.

Abantu bahagaze ndetse banicaye imbere y'inyubako y'inzu y'ababyeyi cyangwa se materinete, ni inyubako ababyeyi batwite bakirirwamo, kugira ngo babe babasha kubafasha gukurikirana inda zabo, cyangwa se n'abagiye kubyara babafasha, aho abo bantu bicaye imbere y'iyo nyubako ubona ko bari mu gikorwa kimwe bahuje.

Inzu nini kandi ngari, aho igiye ifite imiryango itandukanye yinjira mu byumba bimwe, ijya mu bindi. Hejuru hari amatara manini amurika atanga urumuri, ndetse hari n'ibindi byuma bigiye bicomekeranyijeho hirya no hino.

Icyumba cyo kwa muganga, hari igitanda abarwayi baryamaho kugira ngo babe babashe kubasuzuma, hirya hateretse ameza ariho ibikoresho bigiye bitandukanye, hariho mudasobwa, hariho icyuma gifasha abaganga kuba basohora impapuro, hari intebe hirya no hino zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byinshi.

Abantu b'igitsina gore bicaye aho muganga arimo kubakurikirana, arimo arabafata ibipimo by'umuvuduko w'amaraso, kwipimisha ni ingenzi, kumenya uko umuntu ahagaze buri munsi ni ingenzi bituma umubiri wawe uhora uhagaze neza, hirya hari ibimera byinshi bigiye bibakikije.

Abantu bari mu cyumba; ni muganga, ndetse n'umubyeyi uteruye umwana. Ni mu gihe umubyeyi aba yamaze kubyara cyangwa se kwibaruka, bakamwohereza umwana we akaba yabasha kumuterura. bari mu cyumba kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, icyumba ababyeyi baryamamo cyangwa se baruhukiramo mu gihe bamaze kubyara.

Icyumba abarwayi barwariramo aho hari ibitanda by'abarwayi baryamaho muganga ahagaze muri icyo cyumba arimo arafasha umurwayi, afite agapimo kamufasha gupima umutima w'umurwayi ahantu ukuntu uhagaze, umurwayi yaricaye, inyubako irimo amadirishya ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Inzu y'ikigo nderabuzima cya Kanyinya. Ni ikigo giherereye mu Mujyi wa Kigali, mu murenge, mu Karere ka Nyarugenge, mu Murenge wa Kanyinya, aho Ikigo gishinzwe Ubuzima mu Gihugu cya RBC, gifata hirya no hino kikahashyira ibigo nderabuzima kugira ngo abaturage babe babasha kwivuza kandi neza, bitabagoye.

Icyumba cyo kwa muganga bifashi basuzumiramo abarwayi, harimo udutanda tw'abarwayi baryamaho, hejuru hamanitse ibyuma aba baganga bifashisha kugira ngo babe babasha kumenya umubiri w'umurwayi uko uhagaze. Imbere hari imeza abaganga baterekaho imiti; hejuru hari amatara manini atanga urumuri ruhagije, kugira ngo abaganga babe babasha kubona.

Umuganga ari mu cyumba arimo arakurikirana umurwayi, aho yambaye agapfukamunwa k'ubururu, itaburiya y'umweru y'akazi, inyuma ya muganga hari etajeri abaganga bifashisha babikamo ibikoresho byabo kugira ngo babashe kuba bakurikirana abarwayi, aho yashyize umurwayi bande ipima umuvuduko w'amaraso ku kuboko kwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo mudasobwa, harimo microscopy, harimo udutanda abarwayi baryamaho mu gihe abaganga barimo kubasuzuma, ametageri abaganga bifashisha babikamo ibikoresho byabo, ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye.

Icyumba abarwayi barwariramo, harimo udutanda abarwayi baryamaho mu gihe bari mu bitaro, icyo cyumba hagiye harimo inkuta zigiye zitandukanya icyumba n'ikindi, harimo akuma abaganga bifashisha batwara imiti kugira ngo bayigeze ku barwayi, harimo umuganga wambaye imyenda y'icyatsi, harimo amarido akozwe mu ibara ry'ubururu.

Umuganga aho ahagaze yanezerewe, yambaye amarinete, yambaye itabuririya y'umweru, baho afite n'igipimo kimufasha gupima umutima w'umuntu ukon urimo gutera, mu ijosi afashe impapuro nyinshi zitandukanye, hirya hicaye abantu abandi bahagaze ndetse hirya no hino hari ibimera bigiye bibakikije.

Inyubako nini ifite ibyumba bigiye bitandukanye, aho hagati hari inzira ngari, abantu bacamo bava mu cyumba kimwe bajya mu kindi, hari imiryango myinshi igiye itandukanye, aho ari inyubako isizwe irangi ry'umweru, hejuru hari amatara manini atanga urumuri.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi, iki ni icyumba cyo kwa muganga harimo icyuma twita sikaneri iki cyuma gifashishwa n'abaganga kugira ngo bamenye umubiri w'umuntu uko uhagaze, iki cyuma umuntu araza akagicamo mu mubiri hose muganga akabasha kumenya uko ahagaze, muri icyo cyumba harimo n'ibindi byuma byinshi muganga yifashisha.

Inyubako nziza kandi ngari, aho yubakishijwe amatafari ahiye ndetse akaba asizwe n'irangi ry'umweru, hirya y'iyo nyubako hari abantu barimo kugenda bajya mu mpande zitandukanye z'iyo nyubako.

Icyumba gihuriwemo n'abantu benshi aho batonze umurongo bajya gusaba serivisi runaka, imbere yabo hari abantu bicaye, hari ameza, ureba ko bari mu gikorwa kimwe bahuriyeho, barimo gufasha abandi.

Inyubako ni inzu yab'ababyeyi yo dukunze kwita materineti, aho abanasi bahagaze imbere y' y'umuryango barimo gufata ifoto. Materineti ni inzu ababyeyi bakirirwamo kugira ngo babashe gukurikiranwa ubuzima bwabo ndetse n'ubuzima bw'abana babo.

Icyumba kigari cyane aho abantu bicaye muri icyo cyumba barimo gukurikirana amahugurwa atandukanye, abicaye ku ntebe zi'mbaho, imbere hari abandi bantu bicaye, abateretse imeza imbere yabo n'undi muntu uhagaze arimo gutanga amahugurwa, nibinyubako ifite amadirishya ndetse n'inzugi bigari.

Icyumba cyo kwa muganga abarwayi baryamamo, aho hari igitanda cy'umurwayi ashobora kuryamamo, hari ibikoresho biri ku gitanda harimo serumo, inshinge ndetse n'ibindi bintu byinshi, hirya gatoya hari ibindi bikoresho abaganga bifashisha kugira ngo babe basuzuma umurwayi, hejuru hari ibindi bikoresho byinshi, ni inzu ifite amadirishya ndetse n'ibindi bikoresho.

Icyumba kinini cyane abarwayi barwariramo, harimo ibitanda by'amoko agiye atandukanye, akozwe mu byuma, ibifite amapine ndetse n'ibitayafite, aho hari abarwayi baryamye ku bitanda, hirya y'ibyo bitanda hari udu turuwari abarwayi bifashisha bashyiramo ibikoresho byabo, hejuru hamanitse supanete.

Inyubako ndende cyane dukunze kwita etaje, imbere y'inyubako haparitse imodoka, imodoka z'amoko menshi, ku marembo hariho bariyeri, imodoka irimo gusohoka yerekeza muri kaburimbo, umuntu wicaye imbere y'amarembo, ndetse n'uhagaze imbere ya bariyeri urimo ufungura.

Inyubako nziza kandi nini zigiye zubatswe mu bwoko bwinshi bugiye butandukanye, aho muri kuri iyo nyubako hari imiryango myinshi ijya mu cyumba kimwe, ikerekera mu kindi, imbere y'izo nyubako hari inzira ngari abantu bacamo bajyamo bava mu nyubako imwe bajya mu yindi, ndetse imbere yaho gato hari jaride irimo igiti, ndetse n'utwatsi tugiye dutandukanye.

Icyumba abarwayi barwariramo, ibitanda abarwayi baryamaho, abarwayi baryamye ku bitanda, abaganga bahagazemo muri iyi nyubako, bambaye ibimasike, bambaye sarubeti y'umweru, abafasha kugira ngo bikingire babone uko bavura abarwayi, imbere hateretse intebe ziriho mudasobwa, hamanitse ibitara binini bicana urumuri, amaridori ari mu ibara ry'ubururu.

Muganga ari mu cyumba cy'abarwayi arimo gusindagiza umurwayi ni mu gihe umurwayi aba afite imbaraga nkeya atabasha guhagarara cyangwa se kugenda, muganga akaba yamusindagiza akoresheje agakoresho ko abaganga bafataho kugira ngo basindagire babe babasha guhaguruka.

Icupa ry'amazi atunganijwe n'uruganda, aho amazi atunganijwe n'uruganda aba ari amazi meza cyane umuntu ashobora kunywa ntabe yamugiraho ingaruka izo arizo zose zaba ziterwa n'umwanda, tugire isuku y'amazi aho twaba turi aho ariho hose.

Uruhurirane rw'abantu aho ubona bashungereye, barimo barashungera abakinnyi bari mu kibuga kibuga cya basket, aho bari mu marushanwa bakina abandi bari hirya no hino barabakikije barimo barafana.

Icyumba gihuriwemo n'abantu benshi aho harumurwayi uri ku gatanda aryamye barimo kumukorera ubutabazi bw'ibanze, aho yagize ikibazo mu kuguru barimo bifashisha bifashisha ibyuma bigiye bitandukanye kugira ngo bamufasha abaganga barimo baramufasha n'abandi bantu benshi bahagaze iruhande rwe barimo bareba uko ameze.

Bande y'umukara kwa muganga bifashisha bahereza umurwayi wagize ikibazo mu kuguru, ushobora kuba yavunitse, ushobora kuba yakoze impanuka, atabasha kugenda, bamuhereza iyi bande akayifashisha mu buryo bwo gutambuka, ashobora kuyifashisha afashe n'imbago, akabasha kugenda hirya no hino.

Abantu benshi bahagaze mu kibuga, aho bari mu myitozo igiye itandukanye higanjemo abana ndetse n'abantu bakuru, hirya hari inyubako zigiye zitandukanye ndetse hari n'ibimera byinshi bigiye bibakikije, harimo ibiti, intoki ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umuntu uri muri siporo mu gihe yafashe icupa ry'amazi arimo kuyanywa ayandi arimo kuyimenaho, ni mu gihe umuntu aba yakoze siporo nyinshi akagira inyota ndetse n'ibyokere byinshi akaba yafata amazi akayanywa ayandi akayimenaho kugira ngo umubiri we ube wabasha kumera neza.

Abantu bari mu cyumba aho barimo gufasha mugenzi wabo mu butabazi bw'ibanze mugenzi wabo ugize ikibazo aryamye barimo baramukorera ubutabazi bw'ibanze, ubutabazi bw'ibanze igihe umuntu aba ataragezwa kwa muganga ariko n'abo bari kumwe nabo bakaba babasha kuba bamufasha mu buryo bashoboye.

Umuganga ari mu cyumba cy'abarwayi barwariramo, aho arimo gufasha umurwayi ya amushyize ku cyuma gifasha umurwayi kuba yasindagira akagenda, igihe umurwayi aba yarembye atabasha kugenda, muganga akaza kumufasha akamusindagiza. Muri icyo cyumba harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye nka: za vandarateri ndetse n'ibindi.

Umuntu uri muri siporo ngororangingo aho amanitse amaboko, yicaye amaguru yayakubiranyije, imbere ye hari ibikoresho byinshi bya siporo, hari mudasobwa, hari agacupa gateretse aho ngaho imbere ye karimo amazi, yicaye kuri tapi abantu bakunze kwicaraho bakora siporo ngororangingo.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bikunze gukoreshwa kwa muganga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, aho hari porojegiteri, igipimo gipima umuvuduko w'amaraso, telefone itagendanwa yo mu biro, mudasobwa ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Umuntu ari mu cyumba cya siporo, arimo gukora siporo ngororangingo, amanitse amaboko atandaraje, ukuguru kumwe kumwe kuri inyuma ukundi kuri imbere, hirya ye gatoya hari igikuta, hari amadirishya manini, azamuye amaboko, siporo ni ingenzi mu buzima bwacu.

Igare ryo kwa muganga bifashisha bahereza umuntu ushobora kuba yagize ikibazo cy'imvune akaba atabasha kugenda, bakaba bamuhereza igare kugira ngo rijye rimufasha kuba yava mu mwanya umwe akajya ahandi, cyangwa se bakaba bashyiramo umurwayi waje arembye kwa muganga, kugira ngo bamukure mu cyumba kimwe bamugeze mu kindi cyumba.

Igikapu kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo inshinge, harimo amacupa y'imiti ndetse n'ibindi bikarito bigiye birimo iyindi miti, ni mu gihe umuntu ashobora kwifashisha igikapu kugira ngo abe yabona uko atwara ibikoresho bye agiye gukoresha ahantu runaka bitewe n'ikintu agiye gukora.

Umuntu wagize ikibazo ku kuguru barimo kumushyiraho igipfuko kugira ngo babe bamufasha aho yaba yavunitse cyangwa se yakomeretse abashe gukira byihuse. Hirya no hino hari bande umuganga arimo kwifashisha, impakasi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umuntu wicaye, afite icupa ry'amazi mu ntoki arimo kuyanywa, ni mu gihe yari ari muri siporo akicara, akaruhuka, akumva ko afite inyota, akaba yafata amazi ari mu icupa, meza kandi atunganyijwe n'uruganda, akayanywa kugira ngo inyota afite ibe yashira kandi n'umubiri we ube wabasha gukora neza.

Umuntu uri muri siporo yambaye se ipantaro y'umukara asegeri, hirya gatoya hakikije imera biteretse mu dukombe aho afashe hasi n'ibiganza ari muri siporo, siporo ni igihe umuntu akora siporo kugira ngo umubiri we ube wamera neza, amaraso abe yatembera neza mu mubiri.

Igikoresho kwa muganga bifashisha mu gupima indwara mu bizamini abarwayi baba batanze kugira ngo babe babasha kureba umurwayi indwara afite, igikoresho kitwa "Microscope".

Abaganga bahuriye mu cyumba, aho bambaye amataburiya y'ubururu, udupfukamunwa, bambaye n'udufire mu mutwe, imbere yabo hari ameza ahateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye, hirya no hino hari ibyuma bitandukanye by'abaganga bifashisha kwa muganga kugira ngo babashe kuvura abarwayi.

Umuntu w'igitsina gore arimo arakora siporo z'ingororangingo aho yunamye, ukuboko kumwe yagufatishije inyuma, ndetse ukundi yagufatishije ku kirenge; arimo arakora siporo ngororangingo. Ari mu cyumba, abantu bakoreramo siporo; aho siporo umuntu azikora kugira ngo umubiri we ube wamera neza, abe yakwirinda ibyuririzi byinshi bigiye bitandukanye.

Ijage ikozwe mu kirahure irimo amazi aho irimo gukoreshwa basuka amazi muri burenda, burenda igikoresho abantu bakunze kwifashisha mu gihe barimo batunganya umutobe uturutse mu mbuto cyangwa se ji y'imbuto zigiye zitandukanye.

Agapaniye cyangwa se akabogisi karimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byo kwa muganga. Harimo imikasi, harimo bande, harimo inshinge, harimo amavuta. Iki n'igikoresho umuganga yifashisha agashyiramo ibikoresho by'ibanze agiye kwifashisha mu cyumba runaka agiye kujyamo kugira ngo abashe gukurikirana abarwayi bakirimo.

Icyumba abantu bifashisha mu gihe bari muri siporo, bari muri siporo ngororangingo, aho umuntu ahagaze ateruye icyuma kinini cyane cya ariteri, gituma umuntu azana pinya, azana amatuza ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye uko yaba yifuza umubiri we waba umeze.

muganga yicaye mu biro yambaye ga z'ubururu, yambaye agapfukamunwa k'umweru yambaye isarubeti ya muganga mu ijosi afite icyuma bifashisha bapima abarwayi barebe imitima yabo ko itera neza, imbere hateretse mudasobwa, imbere hateretse impapuro, imbere hateritse ajenda hateretse, hari n'ikaramu arimo yifashisha.

Abantu bari mu kibuga bagiye batandukanye, aho umwe arimo gukorera undi ubutabazi bw'ibanze ni igihe abakinnyi cyangwa se abandi bantu batandukanye baba bari mu kibuga mugenzi wabo akaba yahura n'ikibazo cyo kuvunika cyangwa se n'ikindi kibazo, bakaba barimo kumukorera ubutabazi bw'ibanze mu gihe abaganga batarahagera.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibyuma, icyo dukunze kwita scanner, aho abaganga bakifashisha kugira ngo babashe kumenya umurwayi waje ubagana ukuntu ahagaze mu mubiri we wose, babe babasha kumufasha bakurikije indwara babonye afite mu mubiri we.

Umuntu w'igitsina gore ari mu cyumba, arimo arakora siporo ngororangingo, aho yambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umukara, arimo arakora siporo zigiye zitandukanye, aho muri icyo cyumba hirya gatoya hari aho yabasha kwegamira. Imbere ye hateretse icupa ry'amazi. Siporo ni ingenzi kuri buri muntu wese.

Microscope cyangwa se icyuma abaganga bifashisha kugira babe babasha kumenya uko umubiri w'umuntu waje abagana uhagaze, bifashisha kugira ngo bamenye ubuzima bw'umwana w'umugore uri mu nda ndetse n'undi muntu uwo ari we wese kugira ngo abashe kumenya uko umubiri we uhagaze.

Abantu bateraniye mu cyumba barimo gutanga ubutabazi bw'ibanze, aho mugenzi wabo ubonako yicaye hasi, undi arimo kumwiyegamiza amufasha, ni igihe umuntu aba yakomeretse cyangwa yagize ikindi kibazo mu gihe atagerwaho na muganga, akaba atabawe n'itsinda ry'urubyiruko dukunze kwita kuruwaruje.

Umuntu uri muri siporo ngororangingo, mu gihe apfukamishije ivi rimwe ukundi ukuguru agushinze, naho arimo gukora siporo z'amaguru, afite écouter mu matwi, ni mugihe umuntu ashobora gukora siporo kugira ngo umubiri we ube wamera neza, cyangwa se ashaka yakwirinda ibyuririzi by'umubiri nka grippe ndetse n'ibindi.

Indege zivana amaraso ku ivuriro rimwe ziyajyana ahandi, iyo dukunze kwita drone, aho iri mu kirere ifite agakarito kaba karimo amaraso, igiye kuyatwara ku ivuriro cyangwa se igiye ku, iyavanye ku ivuriro rimwe iyajyanye ku rindi vuriro, hirya no hino hari ibiti ndetse n'inyubako zitandukanye.

Umuntu yambaye isengeri ari muri siporo arimo gukora ingororangingo, arimo kwikanda mu mugongo, ukuboko yambaye isaha iri mu ibara ry'umukara, ukundi kuboko yambaye bande, yisukishije imisatsi y'umukara, yambaye ekuteri mu matwi, siporo ni genzi ku mibiri yacu.

Muganga ari mu cyumba afite igikoresho aho arimo gusuzuma umwana mu maso ni mu gihe umwana ashobora kuba afite uburwayi bw'amaso umubyeyi we akaba yamuzana kwa muganga kugira ngo muganga abe yabasha kumufasha akamuvura agakira. Imbere yabo hateretse imeza iriho ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye mudasobwa, ndetse n'ibindi bikoresho abaganga bifashisha kugira ngo bavure abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga abaganga bifashisha basuzuma abarwayi, umurwayi aryamye ku gatanda yubitsinda, umuganga amuhagaze hejuru arimo aramufasha, amurambitseho icyuma kiba cyamusuzuma kureba ikibazo yaba afite cy'umugongo, umuganga yambaye ga z'umweru, agapfukamunwa k'ubururu, ndetse n'inyubako irimo amarido.

Imbuto ziri mu moko menshi harimo amaronji, harimo pome, harimo n'ubwoko bw'imboga ndetse na ji itunganijwe mu mbuto, aho hari n'ikamba abantu bashobora kwifashisha bapima ingano y'umuntu mu nda, ndetse n'ahandi, hari n'utundi dukoresho abantu bifashisha muri siporo.

Umuntu arimo gukora siporo ngororangingo aho yafashe amaboko akayazamura, ikiganza akagishyira mu mugongo. Ni mu gihe aba arimo kwikandakanda mu ngingo zo hirya no hino kugira ngo umubiri we ube wabasha kumera neza.

Uruvangavange rw'imiti ndetse n'ibikoresho kwa muganga bakunze kwifashisha, harimo ga, bande, udushashi turimo inshinge ndetse n'imiti imeze nka korogate, aho bayisiga ku mubiri cyangwa se ku burwayi bw'umuntu, akaba yabasha gukira.

Umuntu arimo kunywa amazi akoresheje gurude iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umupfundikizo w'umukara, umuntu avuye muri siporo yambaye isengere, siporo ni ingenzi ituma umubiri wacu ukora neza, ituma imyanda iri mu mibiri yacu isohoka, siporo ni ingenzi kuri buri muntu wese.

Imodoka iri mu muhanda, imodoka y'imbangukiragutabara ifasha abarwayi bari hirya no hino bamerewe nabi kugira ngo ibe yabasha kubageza kwa muganga, abaganga bakurikirane vuba vuba, hirya y'umuhanda hari ibiti, hari ibimera byinshi bigiye bikikije umuhanda.

Ubwoko bw'amacupa menshi agiye atandukanye harimo n'udukarito, aho harimo imiti myinshi abaganga bakunze kwifashisha, kugira ngo babe bahereza abarwayi babavura indwara runaka zigiye zitandukanye bashobora kuba barwaye,...

Ikirangantego cya Croix Rouge ni abantu, ni imbaraga z'abantu zishyize hamwe mu rwego rwo kuba baba ubutabazi bw'ibanze, bakaba babasha kugeza umuntu waba agize ikibazo kwa muganga.

Ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'uducupa twinshi turimo imiti y'ubwoko butandukanye. Aho harimo ibinini, harimo umuti wica udukoko tuguruka two mu nzu, harimo bande abaganga bifashisha bapfuka abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho byinshi kwa muganga bakunze kwifashisha.

Insimburangingo aho umuntu ashobora kuba yagize ikibazo mukuguru atabasha gutambuka abaho kwa muganga bamuhereza in nsimburangingo kugira ngo abe yabasha kugenda ava ahantu hirya no hino akaba yayikoresha kugira ngo abe yabasha kugira icyo yikorera.

Abantu bari mu kibuga kinini, aho bari mu myitozo igiye itandukanye, higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho hirya no hino ikibuga kigiye gikikijwe n'ibimera byinshi, byiganjemo ibiti byinshi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu ubu bari mu kibuga, harimo urubangitirane rwinshi, harimo abakinnyi bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, harimo abaganga bambaye ama taburiya amajire y'umutuku, aho barimo batanga ubutabazi bw'ibanze ku mukinnyi wari ugize ikibazo.

Akuma abantu bakunze kwifashisha uhabwa no kwa muganga igihe umuntu yagize ikibazo mu kuguru atabasha gutambuka neza, yifashisha aka kuma kugira ngo abe yabasha gutambuka, abe yabasha kugira aho ajya, abe yabasha kugira icyo akora. Aka kuma kitwa imbago.

Ijaga ikozwe mu kirahure, aho harimo amazi meza. Imbere hateretse ikindi kirahure. Iyo jaga barimo kuyikoresha basuka amazi mu kirahure, kugira ngo umuntu abe yabasha kuyanywa cyangwa se ayakoreshe ikindi gikorwa kigiye gitandukanye.

Icyumba abarwayi barwariramo, ku bitanda haryamyeho abantu, umwana aricaye yanezerewe, umubyeyi nawe aricaye, kuri ibyo bitanda hasasheho amashuka arimo amabara agiye atandukanye, umweru ndetse uvanze n'umutuku, hirya gato hari udutiriwari bifashisha babikamo ibikoresho byabo, hejuru hamanitse supenete, hirya hari n'amadirishya binjiriza akayaga.

Umuntu ari muri siporo ngororangingo aho yarambuye ukuguru kumwe ukundi yaguhinnye arimo kugorora ingingo ze akoresheje amaboko. Umuntu ashobora gukora siporo kugira ngo umubiri we ube wamera neza kandi siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko zidufasha ibintu byinshi mu mubiri.

Umuntu barimo kumukorera massage yo mu ivi cyangwa se mu itako, ni mu gihe umuntu ashobora kuba afite urugingo cyangwa se ikibazo mu kuguru, umuganga akaba yabasha kumukanda, cyangwa se mu gihe umuntu ananiwe cyane bakaba bamukorera massage kugira ngo umubiri we usubire ku murongo neza.

Agakoresho kitwa imbago. Imbago ikoreshwa cyane cyane umuntu yagize ikibazo ku maguru, yifashisha kugirango ngo abe yabasha kuba yatambuka akava ahantu hamwe akagera ahandi kugira ngo abashe kuba yagira icyo akora akifashisha kano kuma gatangwa no kwa muganga.

Abantu bari muri siporo bambaye amasengre, bambaye n'amakabutura abantu bifashisha bakora siporo, bafashe amacupa y'amazi mu ntoki zabo, hirya bakikijwe n'ibimera byinshi harimo: ibiti, harimo imisozi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho umuntu akora siporo kugira ngo umubiri we, abe yabasha kumera neza n'amaraso ye atembereye mu mubiri.

Urwunge rw'amacupa y'amoko menshi arimo amavuta ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bikozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, ikikakarubamba ni igihingwa cyiza, umuntu akifashisha akakinywa, akagikoramo amavuta, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi.

Ikimera gikunze kumera hirya no hino mu gihugu mu mirima ndetse n'ahandi hantu ku gasozi hagiye hatandukanye ni ikimera cyitwa inyabarasanya, gikunze abantu bakunze kugikoresha mu gihe umuntu aba yakomeretse, bakaba bakivuguta bakagishyirira ku gikomere cy'uwo muntu kugira ngo abe yarekera kuva mu gihe uwo muntu ataragezwa kwa muganga.

Amababi y'ibiti y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye aho ari ibimera abantu bashobora kwifashisha mu buryo bwo gukora imiti ya gakondo ndetse n'ibindi byinshi, ni ibimera biduhereza umuyaga ndetse bidufasha no kuba twahumeka neza.

Ni igihingwa cya tangawizi gikunze guhingwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, ni igihingwa gikoresha mu buryo bwinshi. Mu gihe umuntu agomba kugihekenya igihe aba yarwaye grippe, yarwaye ibicurane n'inkorora. Mu gihe ugomba kugishyira mu cyayi ukagihekenya cyangwa se ukagikoresha no mu bundi buryo bugiye butandukanye.

Amoko menshi y'amacupa ateraniye hamwe arimo ubwoko bugiye butandukanye, amaremare, amagufi, ay'icyuma n'ayapurasitika, aho amacupa arimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, imiti y'ubwoko bwa kinyarwanda, ubuvuzi gakondo, aho ubuvuzi gakondo butegura imiti bukoresheje ibimera.

Ubwoko bw'umuti bwitwa S24/7 ni umuti watunganyijwe na company yitwa alliance emotion global Rwanda ituruka mu Gihugu cya Philiipine aho ari umuti ukozwe mu mboga ndetse no mu mbuto bifasha umuntu kuba yakwivura cyangwa se akirinda indwara zitandukanye harimo kanseri, harimo indwara y'umutwe udakira, ndetse n'izindi ndwara nyinshi.

Ikarito irimo ibinini ni umuti witwa kolediyusR utunganywa na company yitwa alayase inimoshoni gorobo Rwanda ikomoka mu gihugu cya Philipine, aho ni umuti ukozwe mu mushongi w'amafi uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye harimo umwingo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abantu bahagaze mu kibanza kinini cyane mu murima. Abantu bambaye imipira y'icyatsi abandi bambaye amakoti ndetse n'amashati bigiye bitandukanye. Bari mu murima uhinzemo igihingwa cy'igikakarubamba. Igikakarubamba ni kiza. Uwo murima ukikijwe n'ibimera byinshi higanjemo ibiti.

Ikarito irimo ibinini, biri mu bwoko bw'imiti bwitwa koredasi. Ubwoko bukozwe mu mushongi w'amafi butunganywa na kompani yitwa ariyanse gorobo Rwanda ituruka mu gihugu cya Filipine. Ni umuti ugiye uvura indwara nyinshi zitandukanye nk'umwingo, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi nyinshi.

Ishyamba ririmo ibimera byinshi bitandukanye, ibyatsi, ibiti byumye ndetse nibibisi, ni igihe ubona ko ari ahantu hameze neza, hashobora kuba hatuje, ntabantu bahatuye.

Icupa ririmo umuti w''ubuvuzi gakondo, umuti wa kinyarwanda, aho utunganywa hakoreshejwe igihingwa cyitwa umuravumba, umuravumba ni igihingwa kigufi aho kivura indwara nyinshi zi zitandukanye, inkorora, ndetse n'ibindi byinshi. Iyi ni ifu y'icyo giti.

Amacupa ateretse ku meza, amacupa y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, ari mabara menshi, apfundikishije imipfundikizo ivanzemo amabara y'icyatsi, amabara y'umukara, amabara y'umweru, imbere yaho hateretse ikarito, hirya gatoya hari igitabo, amacupa arimo imiti, imiti ya Kinyarwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu, aho baza kugura imiti, imiti iri mu bwoko bwa kinyarwanda teretse ku meza, abaganga barimo gufasha abantu barimo kugenda baza hirya no hino fasha kubahereza imiti buri muntu wese bakamuhereza umuti akeneye.

Uruvangavange rw'amacupa menshi agiye atandukanye, amaremare ndetse n'amagufi, aho ari muri etajeri agiye atandukanye buri bwoko, ni amacupa ari mu miti ya kinyarwanda, aho umuntu ashobora kwifashisha ibimera, akaba yabasha gukora umuti uvura indwara runaka.

Ishyamba ririmo ibimera cyangwa se ibiti bigiye bitandukanye by'amoko menshi, ibirebire ndetse n'ibigufi, ishyamba ridufasha kuduhereza umwuka mwiza ndetse rikaba ryanadufasha no kuduhereza imvura n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Etajeri imanitsemo amacupa menshi y'ubwoko bugiye butandukanye, amacupa arimo imiti, hejuru hamanitseho udushashi turimo tungurusumu, imiti, ni imiti ya Kinyarwanda, imiti ya Kinyarwanda kenshi ikunzwe gukorwa, ikorwa mu bimera, ikorwa mu mboga, ikorwa mu mbuto n'ibindi bimera bigiye bitandukanye, umuntu ayifashisha yivura uburwayi bwinshi.

Ikarito irimo umuti witwa resto life. Uyu muti ukozwe mu nkeri utunganywa na company yitwa alliance in motion global Rwanda ituruka mu Gihugu cya Philipine. Ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo kandi kuvura kanseri ya prostate, harimo kuringaniza imisemburo idakora neza mu mubiri.

Ishyamba ririmo ibimera byinshi bigiye bitandukanye, hari ibiti biciye bugufi ndetse n'ibiti birebire, aho hari ibyatsi ndetse n'ibindi byinshi biba biri mu ishyamba, ni ishyamba ryiza kandi rituje, ridufasha kuba twahumeka ndetse rikaduhereza n'umwuka mwiza.

Ingemwe z'igihingwa cy'igiti bigiye bitandukanye, aho zitunganyijwe ni mu gihe ikigo gishinzwe ubuhinzi mu Rwanda MINAGRI gifata agace kamwe kikaba cyikaba cyagashyiramo ingemwe z'imbuto cyangwa se z'igihingwa runaka, kugira ngo abaturage bazaze bafate izo ngemwe babe bazihinga hirya no hino, bityo bikaba byaborohera.

Ikibabi kitoshye cy'ubwoko bw'ibimera bigufi, bimera umuntu ashobora kubikoresha mu ngeri zigiye zitandukanye, ibimera bidufasha guhumeka umwuka mwiza, bidufasha no kuba twabikuramo n'umuti mu gihe umuntu arwaye indwara zigiye zitandukanye, biduhereza imbuto, ndetse n'ibindi.

Igihingwa ubu gikunze guhingwa n'abantu benshi, igihingwa cyitwa umuravumba, gifite amababi y'icyatsi. Ni gihingwa gikoreshwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, aho abantu bakunda kugikoresha igihe barwaye inkorora, ibicurane ndetse n'ibindi. Kikaba cyabafasha kugira ngo babe bakira.

Amababi y'ikimera cyitwa umuravumba, aho ari ishyamba ririmo ibimera bigiye bitandukanye, ari ibimera bigufi ndetse n'ibirebire, ni ibimera umuntu akoresha mu gihe umuntu ashobora gukoresha imiti ya kinyarwanda, imiti gakondo, dukoresha ibimera, aho kandi ibimera bidufasha no kuba twahumeka neza.

Aho batunganyiriza imbuto bajya gutera mu mirima, aho imbuto bazishyira mu butaka, igihe abantu batunganya imbuto bakazishyira mu butaka, ubutaka buri mu bikombe cyangwa se mu tudobo, kugira ngo izo mbuto zibe zakura neza, babashe kuba bazitwara, ari zo dukunze kwita ingemwe. Izi ngemwe, ni ngemwe z'umuravumba.

Abantu bari mu nzira barimo bagenda inzira ikikijwe n'imisozi myinshi hirya no hino, iyo misozi irimo ibiti byinshi bigiye bitandukanye aho hari amazi y'imena aturuka hejuru ku musozi akimena kugera hasi mu kibaya k'imisozi.

Icyumba kirimo umuntu uhagaze, harimo amayetajeri agiye atandukanye, aho muri ayo mayetajeri harimo ubwoko bwinshi bw'amacupa atandukanye, arimo imiti igiye itandukanyeho ikorwa mu bimera ndetse n'imiti y'ubuvuzi gakondo, ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Uruvangitirane rw'amoko menshi y'imiti, arimo ibikozwe mu binini ndetse n'akozwe mu makawa, akaba ari imiti itunganywa na company yitwa ''Alience motion grolobal Rwanda'', ni company ituruka mu gihugu cya Phlipines, aho iyi miti ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Umuti dukoresha uvura ibiheri byo mu maso, ndetse n'andi mabara atandukanye mu maso ndetse no ku mubiri. Aho ari umuti ukorwa mu gihingwa cyitwa igikakarubamba, tuwukoresha mu kugira ngo tugire uruhu rutunganyije rumeze neza.

Umuntu arimo gusoroma icyatsi cyangwa se amababi y'ikimera kitwa "umuravumba", ni ikimera gikunze gufashishwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye umuntu ashobora kugihekenya kugira ngo abe yakwivura inkorora ndetse n'ibicurane, aho hirya hari insina ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Ishyamba ririmo ibimera bigiye bitandukanye, ibirebire ndetse n'ibigufi, ibiti birebire, ibiti biciye bugufi, amababi, ndetse n'imisozi. Ibimera biduhereza umwuka mwiza, bidufasha kwirukana umwuka mubi w'inganda, tugahumeka neza, ndetse binadufasha no kuba byaduhereza, imiti y'ubuvuzi gakondo.

Icupa ririmo umuti, ni ubwoko bw'umuti utunganyijwe mu buryo bw'ubuvuzi gakondo cyangwa se ubwoko bw'umuti butunganyijwe uburyo bukoreshwa ikimera, ni mu gihe bashobora gufata ikimera bakagishyira mu cyuma cyangwa se mu mashini, ikaba yatunganya umuti, ubu ni ubwoko bw'umuti bukozwe mu kimera cy'umuravumba.

Amababi y'ubwoko bwinshi bw'ibimera bigiye bitandukanye aho ari amababi mabisi, amababi mabisi y'icyatsi aho ibimera dushobora kubikoresha mu buryo butandukanye, ushobora kubikuramo imiti ya gakondo, cyangwa se ubuvuzi Kinyarwanda ndetse ibimera bidufitiye umumaro cyane biduhereza umwuka mwiza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Tungurusumu ni ubwoko bw'igitunguru umuntu akoresha mu buryo butandukanye; uvura indwara nyinshi harimo amibe harimo inkorora harimo ibicurane harimo senosite harimo Konstipatiyo n'izindi ndwara zitandukanye umuntu shaka kuyikoresha ayihekenya ashobora kuyikoresha mu biryo umuntu ashobora kuyikoresha ayayihenyana n'izindi mbuto cyangwa se akayikoramo salade.

Amababi y'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye, aho higanjemo umuravumba, ni igiti abantu bakunda guhekenya kugira ngo babe bakwivura inkorora, ibicurane ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Amacupa ari mu mabara menshi agiye atandukanye arimo imiti myinshi y'amoko menshi, amacupa y'icyuma aho harimo imiti ikozwe mu bwoko bwa kinyarwanda, imiti ya kinyarwanda ikorwa mu mboga, imbuto ndetse n'ibindi bimera byinshi bigiye bitandukanye ikavura indwara nyinshi.